Umumama ukikiye umwana arimo kuvoma amazi mu ndobo kugira ngo ayakoreshe, yaba mu guteka ndetse no mu masuku, akaba ari amazi atangwa kugira ngo abaturage bose bakomeze kugira isuku ndetse n'ubuzima bwiza.

Umwana mutoya arimo arakaraba kuri kandagiro ukararabe akoresheje isabune nziza n'amazi meza aba yashyizwe mu ibasi, uru akaba ari urukarabiro rukoreshwa umuntu avuye mu bwiherero mu gihe agiye koza ibiganza kugira ngo yihanagure neza imyanda yaho yarari.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri harimo abanyeshuri b'abakobwa ndetse n'abahungu, baje ku ivomero rusange bitwaje ibikoresho byabugenewe batwaramo amazi aza gukoreshwa hakorwa amasuku bityo isuku ikomeze gukwira ku Isi hose, banagire ubuzima bwiza.

Irimo abagabo n'abagore, iyobowe n'umugore, uri kubigisha ukuntu babungabunga ubuzima ku isi hose ndetse bakabufata neza, kwirinda indwara n'izindi n'ibindi byose byakangiza ubuzima bwabo.

Umuntu uri kubigisha ibijyanye no kubungabunga ubuzima bwacu neza kugira ngo tubashe kubaho neza. Ni byiza rero kubaha inama batugira ndetse tukanazishyigikira, kwita ku buzima bwacu kuko ni ingirakamaro.

abana batoya b'abahungu bari gukaraba intoki n'amazi meza kugira ngo hirindwe indwara ziterwa n'umwanda, bazakomeze kugira ubuzima bwiza bityo isuku ikwire ku isi hose.

Ivomero rusange aho abantu babiri baje kuvoma amazi bitwaje ibikoresho byabugenewe, ayo mazi akabaza gukoreshwa mu rugo hategurwa amafunguro, ndetse andi akaza gukoreshwa amasuku kugira ngo birinde indwara ziterwa n'umwanda, bityo isuku ikwire ku isi hose.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri barimo abahungu n'abakobwa, baje kwivomero rusange bitwaje ibikoresho byabugenewe byo gutwaramo amazi, agiye gukoreshwa amasuku kugira ngo bakomeze kwirinda indwara ziterwa n'umwanda, bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umwana mutoya w'umunyeshuri arimo arakaraba kuri kandagira ukarabe akoreshe isabune nziza n'amazi meza aba yashyize mu ndobo, uru akaba ari urukarabiro rukoreshwa umuntu avuye mu bwiherero, mu mugihe agiye koza ibiganza kugira ngo yihanagure neza imyanda yaho yari ari.

Urujya n'uruza rw'abana batoya bari kumwe n'ababyeyi babo, bakaba bari guhabwa indyo yuzuye babifashijwemo n'umuhanzi Israel Mbonyi, kugira ngo barwanye imirire mibi ,ndetse barwanye n'igwingira mu bana, maze bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abaganga batandukanye, harimo abamama, abagabo, abasore n'abakobwa, bari kuganira mu buryo byafata ingamba zo kurinda abaturage ndetse no kubashishikariza kugira ubuzima bwiza, binyuze mu mikoranire bityo ubuvuzi bukwira ku Isi hose.

Ivomero rusange aho abana batoya baje kuvoma amazi bitwaje ibikoresho bayatwaramo, ayo mazi akaba akoreshwa mu rugo hategurwa amafunguro ndetse bakaza no kuyakoresha amasuku kugira ngo birinde indwara ziterwa n'umwanda bityo amazi akwire ku isi hose.

Umwana mutoya, arimo arakaraba intoki akoresheje amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo yirinde indwara ziterwa n'umwanda, maze akomeze kugira ubuzima bwiza, bityo isuku ikwire ku isi hose.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi barimo abamama, abasore ndetse n'abakobwa baje kuvoma amazi meza bitwaje ibikoresho bayatwaramo, ayo mazi akaza kwifashishwa mu rugo hategurwa amafunguro ndetse akaza no gukoreshwa isuku kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza. Bityo isuku yamaze gukwira ku isi hose.

Umuganga ari kumwe n'umubyeyi ufite umwana mutoya, ari kumuhereza umuti kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza ndetse anakure neza nta ndwara n'imwe arwaye.

Itsinda ry'abana batoya abagabo n'abagore ubona ko bishimye, bari kuganirira hamwe uburyo ki bafata ingamba zo kurwanya indwara zataka umubiri binyuze mu mirire mibi.

Abana b'abahungu baje ku ivomero bitwaje ibikoresho byo kuvomeramo amazi aza gukoreshwa mu rugo hategurwa amafunguro ndetse akaza no gukoreshwa umutuku kugira ngo birinde indwara ziterwa n'umwanda.

Ivomero rusange aho umumama arimo aravoma amazi, kugira ngo ayakoreshe mu rugo, haba mu guteka, mu masuku, ndetse no mu bundi buryo butandukanye, hagamijwe kugira ngo hanozwe ubuzima bwiza, kandi bigende neza. Abaturage babashe kubaho bafite amazi ahagije.

Urujya n'uruza rw'abana b'abanyeshuri barimo abahungu n'abakobwa, bari baje ku ivomero rusange bitwaje ibikoresho byabugenewe byo kuvomo amazi, aza gukoreshwa hakorwa amasuku kugira ngo birinde indwara ziterwa n'umwanda bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umubyeyi uri kumwe n'abana babiri bitwaje ibikoresho byo kuvomeramo amazi, aza gukoreshwa mu rugo hategurwa amafunguro, ndetse ukaza no kuyakaraba kugira ngo wirinde umwanda.

Itsinda ry'abasore n'abakobwa bambaye imyenda itandukanye ndetse bambaye n'udupfukamunwa, bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima, bagafatira ingamba hamwe; uburyo ki babungabunga ubuzima bwabo ndetse no ku Isi muri rusange..

Urujya n'uruza rw'abana batoya b'abanyeshuri b'abahungu ndetse n'abakobwa, bari gukaraba intoki n'amazi meza asukuye kugira ngo hirindwe indwara ziterwa n'umwanda ndetse bakomeze no kugira ubuzima bwiza, bityo isuku ikwire ku isi hose.

Ivomero rusange aho mama arimo aravoma amazi kugira ngo ayakoreshe mu rugo, haba mu guteka, mu masuku, ndetse no mu bundi buryo butandukanye, hagamijwe kugira ngo hanozwe ubuzima bwiza kandi bigende neza abaturage babashe kubaho bafite amazi ahagije.

Itsinda ry'abantu baje ku ivomero bitwaje ibikoresho byo kuvomo amazi meza, ayo mazi akaba yifashishwa mu rugo, ategura amafunguro yo kurya ndetse amwe agakoreshwa n'amasuku kugira ngo dukomeze kugira umuco w'isuku ku Isi yose muri rusange.

Umuntu ari ku itiyo, ari gukaraba amaboko n'amazi meza kugira ngo arwanye indwara ziterwa n'umwanda, kandi akomeze no kwirinda neza.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri, abakobwa n'abahungu, bari gufata amafunguro kugira ngo bakomeze kurwanya inzara ndetse bibongerere imbaraga mu gihe bari kwiga, bibafashe kwiga neza no gutsinda.

Umuganga ari kumwe n'umubyeyi ufite umwana mutoya ari kumuhereza umuti umurinda indwara kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza ndetse anakure neza.

Ivomero rusange aho umumama arimo aravoma amazi kugira ngo ayakoreshe mu rugo, haba mu guteka, mu masuku, ndetse n'ubundi buryo butandukanye, hagamijwe kugira ngo hanozwe ubuzima bwiza, kandi bigende neza abaturage babashe kubaho bafite amazi ahagije.

Ihuriro ry'abana batoya ndetse n'ababyeyi babo, abana bato bakiri ku ibere ndetse n'umuhanzi Israel Mbonyi, arimo abafasha guhereza abana amata kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye ndetse abana bakomeze no kugira imikurire myiza.

Umwana w'umukobwa ubona ko wishimye uri guseka cyane, ari gukaraba intoki n'amazi meza, kugirango yirinde indwara ziterwa n'umwanda, hirya yiwe hari ibikoresho yitwaje byo gutwaramo amazi, aza gukoreshwa mu rugo hategurwa amafunguro, ni byiza gukoresha amazi meza kuko ni isuku.

Abana batatu hakaba harimo abasore n'abakobwa, bari kuvoma amazi mu kiyaga baza kwifashishwa mu bijyanye n'isuku haba ku mubiri ndetse no kuyatekesha mu rugo iwabo, ni byiza rero ko dukomeza kugira isuku tukayibungabunga kuko isuku ni isoko y'ubuzima.

Umwana mutoya arimo arakaraba kuri kandagira ukarabe, akoresheje isabune nziza n'amazi, aba yashyizwe mu ndobo, akaba ari urukarabiro rukoreshwa umuntu avuye mu bwiherero mu gihe agiye koza ibiganza, kugira ngo yihanagure neza imyanda yaho yara ari.

Umwana mutoya arakaraba intoki n'amazi meza asukuye yabugenewe kugira ngo hirindwe indwara ziterwa n'umwanda bityo ubuzima, bwiza bukomeze gukwira ku isi hose.

Ivomero rusange, aho umwana w'umukobwa yaje kuvoma amazi yitwaje ibikoresho byabugenewe, ndetse akaba arimo gukaraba intoki akoresheje ayo mazi meza asukuye, kugira ngo yirinde indwara ziterwa n'umwanda, bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abana batoya ndetse n'abakuze, baje ku ivomero bitwaje ibikoresho byo kuvomeramo amazi aza gukoreshwa mu mirimo itandukanye ndetse akaza kwifashishwa hategurwa amafunguro, bakaza no kuyakaraba kugira ngo birinde umwanda.

Umugabo arimo arakaraba kuri kandagira ukarabe akoresheje isabune nziza n'amazi meza aba yashyize mu kagurudu, akaba ari urukarabiro rukoreshwa umuntu avuye mu bwiherero mu gihe agiye koza ibiganza kugira ngo yihanagure neza imyanda y'aho yari ari.

Ihuriro ry'bana batoya ndetse bari kumwe n'ababyeyi babo, aho bari kumwe n'umuhanzi "Israel MBONYI", ari kubafasha gupima ibiro byabo kugira ngo bamenye uko bahagaze ndetse banirinde igwingira ry'abana.

Ivomero rusange aho abana batoya barimo baravoma amazi kugirango akoreshwe mu rugo, haba mu guteka, mu masako ndetse no mu bundi buryo butandukanye, hagamijwe kugira ngo hanozwe ubuzima bwiza kandi bugende neza, abaturage babashe kubaho bafite amazi ahagije.

Abana b'abahungu baje kuvoma amazi meza, bitwaje ibikoresho byabugenewe, ayo mazi akaza gukoreshwa, hategurwa amafunguro yo mu rugo, ndetse bakaza no kuyakaraba, kugira ngo bakomeze kugira isuku birinde indwara ziterwa n'umwanda.

Urujya n'uruza rw'abana batoya b'abanyeshuri b'abahungu ndetse n'abakobwa, bari gukaraba intoki n'amazi meza asukuye kugira ngo birinde indwara ziterwa n'umwanda ndetse bakomeze no kugira ubuzima bwiza bityo isuku ikwire ku Isi hose.

Urujya n'uruza rw'abamama bakuze, bari kumwe na muganga ari kubapima umuvuduko w'amaraso, kugira ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze, ndetse bakomeze no gufata ingamba z'ukuntu bakomeza kurinda ubuzima bwabo.

Urujya n'uruza rw'abagabo n'abagore, abana batoya, abahungu n'abakobwa, baje ku ivomero bitwaje ibikoresho byo kuvomeramo amazi asa neza, aza kwifashishwa mu rugo hategurwa amafunguro ndetse bakaza no kuyakaraba kugira ngo bakomeze kugira isuku.

Umuganga ari kumwe n'umubyeyi ufite umwana mutoya, ari guhabwa urukingo kugira ngo yirinde indwara.

Itsinda ry'abagore n'abagabo bambaye imipira y'imyeru, bari imbere y'ikirango, bari kwiga uburyo ki ndetse n'ingamba zabafasha mu kurinda ubuzima bwacu ndetse n'isi muri rusange.

Abaganga bari kumwe n'abarwayi bari kubapima umuvuduko w'amaraso, kugira ngo barebe uko uko iyo ndwara ihagaze, ndetse banabagire inama yuko bakirinda umuvuduko w'amaraso kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umubyeyi ari gukarabya umwana wiwe intoki akoresheje amazi meza n'isabune kugira ngo amurinde indwara ziterwa n'umwanda bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umwana muto w'umukobwa ari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, kugira ngo yirinde indwara ziterwa n'umwanda, ndetse akomeze kugira ubuzima bwiza, bityo isuku ikwira ku isi hose.

Abaturage barimo barapimwa umuvuduko w'amaraso, bifashishije ibikoresho bisanzwe bikoreshwa bari gupima umuvuduko w'amaso; kugira ngo barebe uko ubuzima bwabo buhagaze ndetse banafate ingamba zo kwirinda.

Ivomero rusange aho abana batoya baje kwivomero bitwaje ibikoresho batwaramo amazi meza asukuye aza kwifashishwa mu rugo, hategurwa amafunguro, ndetse no mu masuku n'ubundi buryo butandukanye hagamijwe kugira ngo hanozwe ubuzima bwiza kandi bigende neza, abaturage babashe kubaho bafite amazi ahagije.

Ivomero rusange aho abaturage barimo baravoma amazi kugira ngo akoreshwe mu rugo: haba mu guteka, amasuku, ndetse n'ubundi buryo butandukanye, hagamijwe kugira ngo hanozwe ubuzima bwiza kandi bugende neza; abaturage babashe kuba bafite amazi ahagije.

Inyubako yifashishwa kugira ngo hanozwe ubuzima bwiza, hakaba hari ubwiherero bubiri butandukanye, bukoreshwa n'abantu kugira ngo habashwe kwirinda imyanda imwe n'imwe ijugunywa ahantu hadakwiriye, kugira ngo ubuzima bwiza bubashwe gutezwa imbere ku Isi hose.

Umwana w'umukobwa mutoya ari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo yirinde indwara ziterwa n'umwanda ndetse akomeze no kugira ubuzima bwiza maze isuku ikwire ku Isi hose.

Abana babiri batoya bari gukaraba amaboko n'amazi meza n'isabune kugira ngo bakomeze kugira isuku ndetse banirinde indwara ziterwa n'umwanda.

Urujya n'uruza rw'abana batoya baje kuvoma amazi meza bitwaje ibikoresho byabugenewe, ayo mazi akaba aza gukoreshwa mu rugo hategurwa amafunguro ndetse bakaza no kuyakaraba kugira ngo barwanye umwanda.

Urujya n'uruza rw'abaganga barimo abagabo n'abagore, bose bakaba bakora mu buvuzi bw'indwara zitandukanye kugira ngo bite ku barwayi, maze bakomeze kugira ubuzima bwiza, bityo ubuvuzi bukomeze kunozwa ku Isi hose.

Ivomero rusange aho umu mama arimo aravoma amazi kugira ngo ayakoreshe mu rugo, haba mu guteka, amasuku ndetse no mu bundi buryo butandukanye, hagamijwe kugira ngo hanozwe ubuzima bwiza kandi bigende neza abaturage bashe kubaho bafite amazi ahagije.

Ivomero rusange, aho umumama arimo aravoma amazi kugira ngo ayakoreshe mu rugo, haba mu guteka, mu masuku ndetse no mu bundi buryo butandukanye, hagamijwe kugira ngo hanozwe ubuzima bwiza kandi bigende neza. Abaturage babashe kubaho bafite amazi ahagije.

Urujya n'uruza rw'abaganga harimo abamama n'abagabo bose bakora mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe, bari mu cyumba cy'inama, bari kuganira uburyo abafite icyo kibazo bagomba kwitabwaho kandi bagakurikiranwa neza, bityo ubuvuzi bugakwira ku isi hose.

Ikirango cyanditseho ngo Isange One Stop Center gifasha abafite ubumuga bwo mu mutwe kubagira inama ndetse n'uburyo bakirinda ihungabana ryaterwa n'ibyo bibazo byombi.

Umukecuru ufite uburwayi bwo mu mutwe, akaba ari wenyine ubona ko nta muntu umwitayeho, akaba yikoreye igitebo kirimo ibyatsi ndetse akaba anambaye nabi, na we akaba akwiye kwitabwaho, kubera ko indwara zo mu mutwe ziravurwa kandi zigakira.

Urujya n'uruza rw'abaganga, barimo abamama n'abagabo bose bakora mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe kugira ngo abafite icyo ikibazo n'ubwo burwayi babashe kwitabwaho, bityo nabo bavurwe ku isi hose.

Umugabo urimo guseka ubona ko afite amenyo meza asukuye ndetse akaba ari muzima, ubona ko yishimye cyane ku buryo ntakibazo na kimwe afite. Ni byiza gukorera isuku amenyo yacu kugira ngo hirindwe indwara ziterwa n'umwanda.

Ikirango cyanditseho umunsi wo kwizihiza abafite ubumuga bwo mu mutwe, ni umunsi uba rimwe mu mwaka kandi ugakorwa neza ku isi yose muri rusange.

Umubyeyi w'umumama ufite ikibazo cyo mu mutwe, yicaye wenyine, ubona ko nta muntu n'umwe umwitayeho kandi na we agomba kwitabwaho akavurwa maze na we agakira, kuko uburwayi bwo mu mutwe nabwo buravurwa kandi bugakira.

Umurwayi wo mu mutwe wicaye wenyine, ubona ko nta muntu umwitayeho kandi afite ikibazo cy'uburwayi, akaba yitwaje ibintu bitandukanye, ibintu by'ibyatsi afite mu ntoki n'amacupa, ndetse akaba anambaye nabi, na we akaba akwiye kwitabwaho kubera ko indwara zo mu mutwe ziravurwa kandi zigakira.

Umusore ufite uburwayi bwo mu mutwe akaba yicaye wenyine yigunze, ubona ko yatereranywe kandi na we agomba kuvurwa ndetse akongera akaba muzima. Kubera ko indwara zo mu mutwe ziri zimwe mu ndwara zivurwa neza kandi zigakira.

Umurwayi wo mu mutwe ari kugenda mu muhanda wenyine, ubona ko nta muntu umwitayeho, kandi afite ikibazo cy'uburwayi. Akaba yitwaje ibintu bitandukanye, ibintu birimo ibyatsi, amashashi afite mu ntoki, ndetse akaba anambaye nabi. Na we akaba akwiye kwitabwaho kubera ko indwara zo mu mutwe ziravurwa kandi zigakira.

Urujya n'uruza rw'abaganga harimo abamama n'abagabo bose bakora mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe kugira ngo abafite icyo kibazo n'ubwo burwayi babashe kwitabwaho bityo nabo bavurwe ku isi hose.

Umusore ufite uburwayi bwo mu mutwe, akaba yicaye wenyine yigunze, ubona ko yatereranywe kandi agomba kwitabwaho nawe akavurwa ndetse akongera akaba muzima. Kubera ko indwara zo mu mutwe ni zimwe mu ndwara zivurwa neza kandi zigakira.

Ni urujya n'uruza rw'abaganga barimo abamama, abagabo, bose bakora mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe kugira ngo abafite icyo kibazo n'ubwo burwayi babashe kwitabwaho bityo na bo bavurwe ku isi hose.

Inyubako itangirwamo serivise y'ubuvuzi bwo mu mutwe, akaba ari ibitaro byakira abarwayi bafite ibibazo byo mu mutwe kugira ngo bitabweho neza, maze bavurwe, bakire, bongere bagire ubuzima bwiza.

Umurwayi wo mu mutwe wicaye wenyine, ubona ko nta muntu umwitayeho, kandi ufite ikibazo cy'uburwayi. Iruhande rwiwe hakaba hari ibintu bitandukanye birimo amashashi afite mu ntoki, ndetse akaba anambaye nabi, na we akaba akwiye kwitabwaho kubera ko indwara zo mu mutwe ziravurwa kandi zigakira.

Umukobwa ufite uburwayi bwo mu mutwe, akaba yicaye wenyine, ubona ko yatereranywe kandi na we agomba kuvurwa ndetse ukongera akaba muzima, kubera ko indwara zo mu mutwe ziri muri zimwe mu ndwara zivurwa neza kandi zigakira.

Urujya n'uruza rw'abaganga harimo abamama n'abagabo, bose bakora ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe kugira ngo abafite ikibazo nk'abarwayi babashe kwitabwaho neza, bityo bakurikiranye ku Isi hose.

Urujya n'uruza rw'abaganga barimo abamama n'abapapa, n'abasore n'abakobwa, bose bakora mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe, kugira ngo abafite icyo kibazo n'ubwo burwayi babashe kubisangaho, bityo na bo bavurwe ku isi hose.

Urujya n'uruza rw'abaganga barimo abamama, abapapa ndetse n'abasore n'abakobwa bose bakora mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe kugira ngo abafite ikibazo cy'ubwo burwayi babashe kwitabwaho bityo na bo bavurwe ku isi hose.

Umwana mutoya arikumwe muganga akaba ari kuvurwa amenyo hifashishijwe ibikoresho biba bikoreshwa mu buvuzi bw'amamenyo kugira bamukore neza maze akomeze kugira umubiri mwiza.

Ishusho igaragaza igice cy'imbere cy'amenyo uburyo amenyo aba ameze yaba mu mubiri, ndetse n'iyo arwaye uburyo aba ameze, bityo kugira ngo umuntu abashe kuvurwa neza, iyi shusho ikaba ifatwa hagamijwe kugira ngo barebe imimerere y'imbere y'amenyo, ndetse habeho ubuvuzi bwizewe kandi bwiza.

Umuganga arimo gukura umurwayi amenyo, akoresheje ibikoresho bisanzwe bikoreshwa mu buvuzi bw'amenyo kandi akaba ari ibikoresho byizewe byujuje ubuziranenge ndetse akaba yambaye ubwirinzi, byaba ari ubwirinzi bw'amaboko ndetse no kumaso, kugirango atanduza umurwayi.

Umukobwa urimo koza amenyo yifashishije urudodo rusanzwe rukoreshwa mu buvuzi bw'amenyo, aho rukoreshwa hakurwamo imyanda n'izindi ndwara kugira ngo amenyo uburibwe bugabanuke kandi akomeze kugira ubuzima bwiza, bityo ubuvuzi bw'amenyo bukomeze kunozwa.

Abaganga babiri bari kumwe n'umwana mutoya bari kumurebera mu kanwa kugira ngo barebe ikibazo ufite mu menyo, mbese banabashe kumwitaho neza, bamukoreremo isuku kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa ari gukorera isuku amenyo y'iwe, akoresheje uburoso n'umuti byabugenewe, kugira ngo yirinde indwara ziterwa n'umwanda. Ni byiza rero ko tugomba gukorera isuku amenyo yacu, kuko ni ingirakamaro, ku buzima bwacu.

Umugabo ari guseka yishimye cyane afite amenyo asa neza ndetse yayakoreye isuku ntabazo afite ni byiza gukoresha ku amenyo yacu kuko ni ingirakamaro kugira ngo twirinde indwara ziterwa n'umwanda.

Umukobwa uri guseka, ufite amenyo meza, bigaragare ko aba yayakoreye isuku. Ni byiza gukoresha isuku amenyo yacu, kugira ngo twirinde indwara ziterwa n'umwanda.

Umwana ufite ikibazo cy'amenyo, bari kumurebera ko amenyo yiwe ameze neza. Ni byiza ko tugomba kwita ku isuku y'amenyo yacu kuko ni bimwe mu ngirakamaro bidufasha mu kurwanya indwara za hato na hato.

Umwana ari guhabwa umuti w'amenyo, ni byiza ko buri mwana wese agomba guhabwa umuti w'amenyo kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Gufasha guhereza umwana umuti uvura amenyo kugira ngo ukomeze kugira ubwirinzi bw'amenyo ndetse n'indwara zimwe na zimwe zishobora gutuma amenyo yangirika.

Umuntu afite urudodo mu maboko, agiye kurucisha mu menyo kugira ngo akuremo imyanda iri mu menyo ndetse runamufashe kugabanya uburibwe, ni byiza gukorera isuku amenyo yacu kugira ngo tutazayatakaza.

Umusore uri koza amenyo yifashishije urudodo rusanzwe rukoreshwa mu buvuzi bw'amenyo, aho rukoreshwa hakururwamo imyanda n'izindi ndwara kugira amenyo uburibwe bugabanuke, akomeze kugira ubuzima bwiza bityo ubuvuzi bw'amenyo bukomeze kunozwa.

Inzu igaragaramo ibikoresho byifashisha mugihe bari gukura amenyo, birimo intebe aho umurwayi yicara mugihe bari kumutegura, hari n'aho aryama mugihe bari kumukura amenyo. Harimo na projector imurika mu kanwa mugihe bagiye kumukuramo amenyo.

Umwana mutoya ari gukorera isuku amenyo yiwe, akoresheje uburoso bwabugenewe ndetse n'umuti wabugenewe kugira ngo hirindwe indwara ziterwa n'umwanda. Ni byiza gushishikariza abana gukorera isuku amenyo yabo kuko ni ingirakamaro.

Umugabo urimo koza amenyo yiwe yifashishije ubudodo busanzwe bukoreshwa mu buvuzi bw'amenyo, aho rukoreshwa hakurwamo imyanda n'izindi ndwara kugira ngo amenyo uburibwe bugabanyuke kandi akomeze kugira ubuzima bwiza bityo ubuvuzi bw'amenyo bukomeze kunozwa.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo, aho abarwayi baza babagana, bafite ibibazo by'amenyo, bakitabwaho kandi bakabasha kubakurikirana neza. Ni inyubako nini cyane, ku buryo irimo ibikoresho abarwayi bose bakeneye serivise, bagataha bayibonye.

Umugabo urimo koza amenyo yifashishije urudodo rusanzwe rukoreshwa mu buvuzi bw'amenyo, aho rukoreshwa hakurwarwamo imyanda n'izindi ndwara, kugira ngo amenyo uburibwe bugabanuke kandi bakomeze kugira ubuzima bwiza bityo ubuvuzi bw'amenyo bukome kunozwa.

Urujya n'uruza rw'abana batoya, abana b'abahungu ndetse n'abana b'abakobwa, bari gukorera isuku amenyo yabo bakoresheje uburoso bwabugenewe n'umuti wabugenewe ndetse n'amazi meza asukuye, kugira ngo hirindwe indwara zimwe na zimwe ziterwa n'umwanda, bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ibikoresho bimwe na bimwe bitandukanye byifashishwa kwa muganga havurwa amenyo, bimwe bikifashishwa bari gukura amenyo kwa muganga, kugira ngo bataza gukomeretsa umurwayi, ndetse akaba ari ibikoresho byujuje ubuziranenge kandi bifite isuku irizewe.

Ishusho igaragaza igice k'imbere cy'amenyo, uburyo amenyo aba ameze yari umubiri ndetse n'iyo arwaye uburyo aba ameze. Bityo kugira ngo umuntu abashe kuvurwa neza, iyi shusho ikaba ifatwa hagamijwe kugira ngo barebe imimerere y'imbere y'amenyo ndetse habeho ubuvuzi bwizewe kandi bwiza.

umusoremoroga umu we akoresheje ubugagefungu kwa muganga kugira ngo agabanye uburibwe ndetse anafitemo imyanda i'amenyo bityo ubuvuzi bw'amenyo bukomeze kunza kandi akomeze no kugira ubuzima bwiza

Ishusho igaragaza igice cy'imbere cy'amenyo, uburyo amenyo aba ameze iyo ari mu mubiri ndetse n'iyo arwaye uburyo aba ameze, bityo kugira ngo umuntu abashe kuvurwa neza iyi shusho ikaba ifatwa hagamijwe kugira ngo barebe imimerere y'imbere y'amenyo ndetse habeho ubuvuzi bwizewe kandi bwiza.

Inyubako itangirwamo serivise y'ubuvuzi bw'amenyo ikaba ari inyubako nziza kandi ifite isuku, harimo ibikoresho byifashishwa bari kuvura amenyo, ni ibikoresho byujuje ubuziranenge kandi bikora neza.

Umugabo arimo arivuza amenyo, akaba agiye kuvurwa na muganga w'inzobere mu buvuzi bw'amenyo, aho afite bimwe mu bikoresho byabugenewe byifashishwa harimo hakurwa amenyo, umugabo ari kumwereka iryinyo rifite ikibazo, maze umuganga akagira ibikoresho byabugenewe ngo arikure.

Umukobwa ari gukorera isuku amenyo yiwe akoresheje uburoso bwabugenewe ndetse n'umuti wabugenewe kugira ngo yirinde indwara ziterwa n'umwanda bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ishusho igaragaza igice cy'imbere cy'amenyo, uburya amenyo aba amezi iyo ari mu mubiri ndetse n'iyo arwaye uburyo aba ameze, bityo kugira ngo umuntu abashe kuvurwa neza, iyi shusho ikaba ifatwa hagamijwe kugira ngo barebe imimerere y'imbere y'amenyo, ndetse habeho ubuvuzi bwizewe kandi bwiza.

Urujya n'uruza rw'abana batoya, abahungu n'abakobwa, bafite amazi meza n'uburoso bwabugenewe, bari gusukura amenyo yabo bakoresheje umuti wizewe kugira ngo bagabanye indwara ziterwa n'umwanda ndetse banagirire isuku amenyo yabo.

Umukobwa ari kwireba mu ndorerwamo kugirango arebe uko amenyo yiwe ameze, ni byiza kwita ku menyo yacu kugira ngo atangirika dukoresha uburuso ndetse n'umuti byabugenewe.

Umubyeyi ari kumwe n'umwana mutoya, bari koza amenyo yabo bifashishije urudodo rusanzwe rukoreshwa mu buvuzi bw'amenyo, aho rukoreshwa hakurwamo imyanda n'izindi ndwara kugira amenyo uburibwe bugabanuke kandi akomeze kugira ubuzima bwiza, bityo ubuvuzi bw'amenyo bukomeza kunozwa.

Umugabo urimo koza amenyo yifashishije urundodo rusanzwe rukoreshwa mu buvuzi bw'amenyo, aho rukoreshwa hakurwamo imyanda n'izindi ndwara kugira ngo amenyo uburibwe bugabanuke, kandi akomeze kugira ubuzima bwiza, bityo ubuvuzi bw'amenyo bukomeze kunozwa.

Umuganga w'ubumama ari gukura umwana amenyo yifashishije ibikoresho bisanzwe bikoreshwa mu buvuzi bw'amenyo kandi akaba yambaye n'imyenda y'ubwirinzi, harimo ubwirinzi bw'amaboko kugira ngo yirinde ikwirakwizwa ry'indwara.

Umusore arimo arivuza amenyo, akaba agiye kuvurwara na muganga w'inzobere mu buvuzi bw'amenyo, aho afite bimwe mu bikoresho byabugenewe byifashishwa harimo havurwa amenyo, umusore ari kumwereka iryinyo rifite ikibazo maze umuganga akagira ibikoresho byabugenewe maze arikure.

Umugabo arimo koza amenyo yiwe yifashishije urudo rwe rusanzwe rukoreshwa mu buvuzi bw'amenyo, aho rukoreshwa hakurwamo imyanda n'izindwara kugira ngo amenyo uburibwe bugabanuke kandi akomeze kugira ubuzima bwiza. Bicyo ubuvuzi bw'amenyo bukomeze kunozwa.

Umuganga ari kumwe n'umusaza ushaje, ari kumukoresha imyitozo ngororamubiri, kugira ngo bimufashe kugira ubuzima bwiza, ndetse n'amararaso akore neza mu mubiri.

Umuganga ari kumwe n'umusaza ari kumupima umuvuduko w'amaraso akoresheje ibikoresho bisanzwe bikoreshwa kwa muganga byo gupimisha umuvuduko w'amaraso kugira ngo amenye uko ahagaze, ndetse afite n'ingamba z'uburyo ki yakwirinda.

Umukecuru barimo baramwoza mu mutwe, hifashishijwe amazi meza ndetse n'isabune ikoreshwa umuntu arimo aroga kugira ngo abashe kwisukura imyanda itandukanye, iba iri mu mubiri maze agire ubuzima bwiza.

Umukecuru uri mu myitozo ngororamubiri, arimo aragorora amaboko ye ndetse n'amaguru ye, kugirango akomeze akore neza ndetse akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umumama ukuze cyane ari kumwe n'umusaza nawe ukuze bari gukina umukino, bishimye cyane bari guseka kugirango bakomeze kurwanya indwara zibataka bageze mu za bukuru bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukecuru ukuze wicaye mu kagare, ari kumwe n'umuganga ari kumupima umuvuduko w'amaraso kugira ngo arebe uko umubiri wiwe uhagaze ndetse afate n'ingamba uburyo ki yakwirinda.

Umukecuru agiye kurya ibiryo birimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara kugira ngo yirinde indwara zimwe na zimwe zo mu zabukuru, maze akomeze no kugira ubuzima bwiza.

Umumama ukuze ari kumwe n'umubyeyi bari gukora imyitozo ngororamubiri, bagenda kugira ngo bagorore ingingo zimwe na zimwe z'umubiri ndetse birinde n'indwara, bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umumama ukuze cyane ari mu myitozo ngororamubiri, ari kugorora amaboko amaguru ndetse n'umugongo kugira ngo imitsi ye ikore neza ndetse n'amaraso atembere neza mu mubiri bityo bimurinde kurwara indwara zimwe na zimwe mu gihe ari mu zabukuru.

Umusaza uri gusoma inkuru kugira ngo yibuke ibitekerezo bishyashya kandi anamenye uko ku isi bihagaze; bityo n'ingingo zimwe na zimwe z'amaso zikomeze gukora neza.

Umukecuru arimo arakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agorore ingingo zimwe na zimwe z'umubiri zirimo amaboko, umugongo, amaguru ndetse n'ibindi kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umuganga ari kumwe n'umusaza urwaye ari kumukoresha imyitozo ngororamubiri kugira ngo agorore zimwe mu ngingo z'umubiri ndetse binamugabanyirize gukomeza kurwara.

Umukecuru n'umusaza bari kumwe n'abana babo ndetse n'abuzukuru babo, bari kuganira bishimye cyane kugira ngo bakomeze kongera iminsi yo kubaho kandi bakomeze no kubaho bishimye cyane.

Abantu bageze mu zabukuru bagomba kurya indyo ikungahayeho ibitera imbaraga ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri kugira ngo bakomeze kubungabunga ubuzima bwabo ko bwajya mu kaga.

Umumama ukuze ari mu myitozo ngororamubiri, yicaye ahantu mu busitani ku mukeka, ari kugorora amaguru yiwe kugira ngo imitsi ikomeze gukora neza ndetse n'amaraso atembera neza mu mubiri, bityo bimurinde indwara akomeze kugira ubuzima bwiza mu gihe ari mu zabukuru.

Umukecuru n'umusaza barimo baraganira ndetse bafata amafunguro arimo imboga n'imbuto, kugira ngo byongere ubwirinzi bw'umubiri, bityo bakomeze kurama kandi bafite ubuzima bwiza.

Umumama uri mu zabukuru ari kumwe n'umukobwa, bari kuganira bishimye cyane ndetse bari gutegura amafunguro, imboga n'ibirungo kugira ngo bafate indyo yuzuye bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umumama ukuze ari kumwe n'umubyeyi, bari gukora imyitozo ngororamubiri, bagorora amaboko kugira ngo imitsi ikore neza ndetse n'amagufa, bibarinde kurwara indwara zimwe na zimwe zataka umubiri.

Umusaza uri gusoma inkuru, kugira ngo yibuke ibitekerezo bishyashya, kandi anamenye uko ku isi bihagaze, bityo n'ingingo zimwe na zimwe z'amaso zikomeza gukora neza.

Abagabo bakuze bari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bagorore ingingo zimwe na zimwe z'umubiri ndetse banirinde indwara, bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa ari kumwe n'umukecuru ushaje, yamuhaye icyuma mu maboko ari kugorora amaboko kugira ngo imiti ikomeze gukora neza ndetse amaraso atembere neza mu gihe ari mu zabukuru bityo bimurinde kurwara indwara zimwe na zimwe zo mu zabukuru.

Umusaza ari kumwe n'umwana, bari gusoma igitabo kandi barishimye cyane, ibi bimufasha kumwongerera iminsi yo kubaho ndetse bikanamurinda indwara zo mu zabukuru.

Umumama ukuze, ari kumwe n'umusaza, bari kuganira bishimye cyane, bari gufata amafunguro ariho imboga, kugira ngo bakomeze kwirinda indwara, mbese banakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukecuru ari gukora umwitozo ngororamubiri, arimo aragorora ibice bimwe na bimwe by'umubiri harimo umugongo, amaguru n'amaboko kugira ngo imitsi ikomeze gukora neza, ndetse akomeze no kugira ubuzima bwiza yirinde indwara zo mu zabukuru.

Abaturage barimo barakinrwa n'abaganga kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye, abaganga bakaba bambaye imyambaro yabugenewe, harimo ibirimba intoki, ndetse bakaba barimo bakingira abaturage mu kiganza kugira ngo babashe kubakingira neza indwara.

Mu ikirango kiriho umunsi wo kwizihiza kubungabunga ibidukikije mu Rwanda, ni byiza kubungabunga ibidukikije kuko ni ingirakamaro kanini ku batuye Isi.

Itsinda ry'abagore n'abagabo bambaye amabaji, bambaye n'amakoti bari ku ngamba zo kurinda ubuzima bw'abantu ndetse no mu Isi muri rusange.

Imwe mu ndwara zitandukanye hashyizweho uburyo bwazo ku isi hose bwo guhugura ndetse no kuganiriza abaturage kugira ngo zibashe kwirindwa aho babegera bakabasobanurira ndetse bagashyiraho ingamba zitandukanye zo kuzirinda, bityo ubuvuzi bugatezwa imbere muri izo ndwara harimo nka sida ndetse n'izindi ndwara.

Imbaga y'abantu barimo aba mama n'aba papa ndetse n'abagaragara nk'abakiri bato, bari bari mu nama igamije guteza imbere ubuvuzi ndetse no kubungabunga neza imibereho myiza mu baturage, kugira ngo hakomezwe hanooze imivurire myiza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, ni inyubako iteguye neza kandi ifite isuku, harimo ibikoresho nk'ibitanda byifashishwa mu gihe abarwayi bategereje serivisi.

Inyubako y'ubuvuzi itangirwamo serivisi ku ndwara zitandukanye yaba arize abana bato abantu bakuru ndetse n'abakuru cyane ni inyubako yubatse neza kandi nini ku buryo ishobora kwakira abarwayi benshi kandi bose bagahabwa serivisi neza

Inyubako itangirwaho serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, ifite imihanda myiza ubona ko abarwayi babasha kuhagezwa mu buryo bworoshye, haba hifashishijwe amamodoka cyangwa se ubundi buryo. Ikaba ndetse ifite ubusitani ku buryo umurwayi abasha kuhicara agafata umwuka mwiza.

Inyubako nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari indwara z'abana batoya, indwa z'abakuru ndetse n'abakuze cyane, ikaba ari inyubako yihagije ndetse ifite n'ibikoresho bikoreshwa havurwa abarwayi, ku buryo yakira abarwayi benshi kandi bose bagataha babonye serivisi nziza, bityo ubuvuzi bugakwira ku isi hose.

Inzu nini nziza itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane, ni inyubako yubatswe neza, ifite imiryango itatu yifashishwa mu gihe bari kwakira abarwayi, kandi yakira abarwayi benshi bose bagataha babonye serivisi inoze.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari indwara z'abana batoya iz'abakuze n'abakuze cyane, ikaba ari inyubako nini cyane ifite isuku ndetse ikaba ifite n'ibikoresho bihagije byifashishwa mu havurwa abarwayi.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari indwara z'abana batoya, iz'abakuze ndetse n'abakuze cyane, ni inyubako nziza ifite ibikoresho bihagije, harimo uburyamo, aho abarwayi baryama kugira ngo bitabweho neza.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'abantu batoya, ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane, bikaba ari ibitaro binini ndetse bifite n'ibikoresho bimwe mu byifashishwa havugwa abarwayi kugirango ngo bahabwe serivisi nziza kandi inoze.

Inyubako nziza nini itangirwamo serivise y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane, ni inyubako yubatse ahantu hatuje ku buryo abarwayi batabangamirwa n'urusakaku rwo hanze ndetse ikaba ifite ubusitani bwiza aho abarwayi baza kwicara, baje gufata umwuka mwiza.

Inyubako icyorezwabamo imiti ikoreshwa havurwa indwara zitandukanye, yaba arizbana bato, abakuze ndetse n'abakuze cyane, akaba ari imiti ibiswe neza yujuje ubuziranenge kandi ikavura neza.

Inyubako nini nziza itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, ku marembo hakaba hari icyapa cyanditseho zimwe muri serivisi batanga, zijyanye n'ubuvuzi bunoze. Akaba ari inyubako nziza ku buryo babasha kwakira abarwayi batandukanye kandi bakavurwa neza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye yaba ari indwara z'abana, iz'abantu bakuru ndetse n'abakuze cyane. Ni inyubako yubatse neza kandi nini ifite ibikoresho bihagije ku buryo ishobora kwakira abarwayi benshi kandi bose bagataha bavuwe.

Inyubako y'ubuvuzi, itangirwamo serivisi ku babyeyi bagiye kubyara ndetse n'abategereje kugira ngo bakomeze kwitabwaho neza, bite no ku bana bamaze kuvuka ako kanya.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, harimo abaganga bakora muri ibyo bitaro ndetse na bimwe mu bikoresho byifashishwa bari kuvura abarwayi kugira ngo ubuvuzi bunozwe ku isi hose.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, haba ari ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane, ikaba ari inyubako yubaka ahantu hatuje, ku buryo abarwayi batabangamirwa n'urusaku, ndetse ikaba fite ubusitani bwiza n'abarwayi bicara baje gufata umwuka mwiza.

Inyubako nini itangirwamo serivise y'ubuguzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'abantu batoya, ubuvuzi bw'abakuze, ndetse n'abakuze cyane. Ikaba ari inyubako ifite ibikoresho bihagije, harimo intebe z'abarwayi bicaraho, mu gihe bategereje serivisi. Iyi nyubako kandi yakira abarwayi benshi, kandi bose bagataha babonye serivise nziza.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, bikaba ari ibitaro byubatse neza ndetse bikaba bifite n'igikoresho kifashishwa bari kuvura umurwayi, aho umurwayi aryama kuri icyo gikoresho kugira ngo avurwe neza.

Inyubako nini nziza itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abakuru, ndetse n'abakuze cyane, akaba ari ibitaro byubatse neza kandi bifite ibikoresho bihagije byujuje ubuziranenge, ku buryo byakira abarwayi benshi kandi bose bakavurwa neza, bityo ubuvuzi bugakwira ku isi hose.

Inyubako nziza itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'abantu batoya, ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane. Ikaba ari inyubako yubatse ahantu heza hatuje ku buryo abarwayi batangamirwa n'urusaku rwo hanze ndetse ifite n'ubusitani bwiza aho abarwayi baza kwicara kugira ngo bafate umwuka mwiza wo guhumeka maze bakire vuba.

Inzu itangirwaho serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, ikaba ifite ibikoresho bimwe na bimwe byifashishwa hari gutangwa ubuvuzi kugira ngo abarwayi babashe kwitabwaho neza.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari indwara z'abakuze, iz'abana ndetse n'abakuze cyane. Akaba ari inyubako yihagije ku bikoresho, ku buryo yakira abarwayi benshi kandi bose bagahabwa serivisi nziza.

Inyubako nini, nziza, itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, mu marembo hakaba hari icyapa cyanditseho zimwe muri serivisi batanga, zijyanye n'ubuvuzi bunoze, ikaba ari inyubako nziza, ku buryo babasha kwakira abarwayi batandukanye kandi bakavurwa neza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye. Ni inyubako yubatse neza ifite isuku ndetse ikaba ifite n'umuryango munini. Harimo abaganga batandukanye, abagabo n'abagore ndetse n'abakobwa. Ubona ko bose bakora muri ibi bitaro.

Inyubako nini itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari indwara z'abana, iz'abakuru, ndetse n'abakuze cyane, mu marembo hari icyapa cyanditseho zimwe muri serivisi batanga zijyanye n'ubuvuzi bunoze, ni inyubako nini ku buryo yakira abarwayi benshi kandi bose bagataha bahawe serivisi zinoze.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane, bikaba ari ibitaro byubatse neza kandi binini ndetse bifite ubusitani bwiza aho abarwayi baza kwicara kugira ngo bafate umwuka mwiza wo guhumeka bityo bakire.

Inyubako nini kandi nziza itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane, ku marembo hakaba hariho icyapa cyanditseho zimwe muri serivisi batanga kandi zinoze.

Ibiro byo kwa muganga byifashishwa mu gihe hagiye kuba inama, bagiye kwiga uburyo ki bateza imbere serivisi mu kwita ku barwayi ndetse n'abaturage muri rusange.

Inyubako nziza itangirwaho serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, bwaba ari ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane. Ikaba ari inyubako yubatswe neza ndetse ifite n'ubusitani bwiza aho abarwayi baza kwicara kugira ngo bafate umwuka mwiza wo guhumeka bityo uburwayi bugabanuke.

Inyubako nziza nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, mu marembo hakaba hari icyapa cyanditseho zimwe muri serivisi atanga zijyanye n'ubuvuzi bunoze, akaba ari inyubako nziza nini ku buryo ibasha kwakira abarwayi batandukanye kandi bakavurwa neza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye yaba ari indwara z'abana batoya, izabakuru ndetse n'abakuze cyane, ikaba ari inyubako nini ifite umuryango munini ku buryo abarwayi bose binjiramo neza bagahabwa serivisi ndetse hakaba hari n'umubyeyi uhetse umwana we kuyigana kugira ngo yitabweho kandi ahabwe serivisi nziza zinoze.

Inyubako icururizwamo imiti ikoreshwa havurwa indwara zitandukanye, yaba ari indwara zifata abana, ndetse n'indwara zifata abantu bakuze, akaba ari imiti ibitswe neza ku buryo iba yujuje ubuziranenge kandi yizewe.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi bw'indwara, aho hagaragara umubyeyi uvuye kubyara ndetse na muganga wamufashije, akaba acyuye umwana we muzima ndetse akaba ahawe na serivisi nziza.

Inyubako y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye ni inyubako yubatswe neza iri ahantu hatuje, ku buryo abarwayi badashobora kumva urusaku rwo hanze, ni inyubako ifite ubusitani bwiza aho abarwayi bicara baje kuruhuka kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi bw'indwara, aho hagaragaramo ibikoresho bimwe na bimwe, harimo ibitanda aho abarwayi baryama kugira ngo babashe kwitabwaho neza maze bahabwe serivisi inoze kandi nziza.

Inyubako nziza nini itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abakuze, ndetse n'abakuze cyane. Ikaba ari inyubako ifite umuhanda mwiza, aho abarwayi babasha kungera bikabagoye, ndetse bakabasha kwitabwaho neza, bagahabwa serivisi inoze.

Inyubako nini itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, akaba ari inyubako ifite ibikoresho bihagije byifashishwa hari kuvurwa abarwayi. Hakaba harimo abaganga bari gufasha abarwayi bafite ibibazo ndetse kugira ngo serivisi z'ubuzima zikomeze kunozwa ku Isi hose.

Inyubako icururizwamo imiti ikoreshwa havurwa indwara zitandukanye yaba ari iz'abana bato, abakuze ndetse n'abakuze cyane akaba ari imiti ibitswe neza yujuje ubuziranenge kandi ikavura neza, muri iyo nyubako harimo abantu baje kugura imiti kuko irizewe kandi irakize.

Inyubako irimo ahantu ho gukorera imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho byifashishwa mu gukomeza umubiri, imitsi n'amagare yo gukoreramo imyitozo.

Inyubako yubatse neza itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, ni inyubako ifite isuku kandi yihagije ku bikoresho ku buryo yakira abarwayi benshi kandi bose bagahabwa serivisi nziza.

Inyubako nziza nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, mu marembo hakaba hari icyapa cyanditseho zimwe muri serivisi batanga, zijyanye n'ubuvuzi bunoze, akaba ari inyubako nziza nini, ku buryo ibasha kwakira abarwayi batandukanye kandi bakavurwa neza.

Inyubako nini kandi nziza itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari iz'abana batoya, iz'abakuze ndetse n'abakuze cyane. Ni inyubako yubatse neza kandi ifite ibikoresho bihagije ku buryo yakira abarwayi benshi kandi bose bagataha bavuwe.

Inyubako nini irimo ibikoresho bihagije byifashishwa mu kuvura, ni inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari indwara z'abana, indwara z'abakuru, ndetse n'abakuze cyane, ni inyubako yakira abarwayi benshi, kandi bose bagataha bahawe serivisi nziza.

Inyubako nziza kandi nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, ni inyubako igaragara neza kandi ifite isuku ndetse iranihagije ku bikoresho, aho ibasha kwakira abarwayi benshi kandi bose bagahabwa serivisi nziza.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari indwara zo mu mutwe, indwara z'abana batoya, iz'abakuze ndetse n'abakuze cyane, ikaba ari inyubako ifite ibikoresho bihagije, harimo ibitanda by'abarwayi baryamaho bari guhabwa serivisi zinoze.

Inyubako nini itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane. Akaba ari inyubako nini kandi ifite ibikoresho bihagije ku buryo yakira abarwayi benshi kandi bose bagataha babonye serivisi nziza. Hakaba harimo ibitanda byifashishwa mu gihe abarwayi bategereje serivisi.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, harimo urujya n'uruza rw'abaturage, barimo kuganirizwa na muganga uburyo ki bwo kwirinda ndetse banakomeza kuvurwa neza kugira ngo bakire.

Inyubako nziza nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, mu marembo hakaba hari icyapa cyanditseho zimwe muri serivisi batanga. Ni inyubako nziza ku buryo ishobora kwakira abarwayi batandukanye kandi bakavurwa neza.

Inyubako nziza itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, akaba ari ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane. Ikaba ari inyubako nini ku buryo yakira abarwayi benshi kandi bose bagataha bahawe serivisi inoze.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi mu ndwara zitandukanye, zaba ari indwara z'abana batoya, yaba ari ukwita ku babyeyi bagiye kubyara, ndetse n'izindi, inyubako nziza igaragara neza kandi ifite isuku, hakaba hari abantu bari kuyigana, ubona ko bagiye gushaka serivisi.

Inyubako nini itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari indwara z'abantu batoya, indwara z'abantu kuru, ndetse n'abakuze cyane, ikaba ari inyubako yubatse ahantu heza hatuje, ku buryo nta rusakuru rubangamira abarwayi ndetse ikaba ifite ubusitani bwiza, aho abarwayi baza kwicara baje gufata umwuka mwiza.

Inyubako iri inyuma y'icyuma cy'urubuga rw'abana gisa n'ikirimo urukuta rw'amabuye afite igishushanyo kiza kirimo amazu afite igisenge cy'igitare, hagaragara inzugi namadirishya y'icyuma bigaragaza umutekano. Hari ibiti by'ibimera byiza bituma ahantu hose hasa neza.

Inyubako nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, ni inyubako ihagije kandi ifite isuku, aho ishobora kwakira abarwayi benshi kandi bose bagahabwa serivisi nziza. Ni inyubako ifite ibitanda bifasha abarwayi mu kuvurwa.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari indwara z'abana, indwara z'abakuru ndetse n'abakuze cyane, ni inyubako yubatswe neza kandi ifite ibikoresho bihagije byujuje ubuziranenge, ku buryo bakira abarwayi benshi kandi bose bakavurwa neza.

Inyubako nziza nini itangirwamo serivisi zubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane, ikaba ari inyubako nziza ifite ubusitani, aho abarwayi baza kwicara kugira ngo bafate umwuka mwiza wo guhumeka ndetse akaba ari ibitaro byakira abarwayi benshi kandi bose bagataha bahawe serivisi inoze bityo ubuvuzi bugakomeza kunozwa ku isi hose.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari kuvura abana, abantu bakuru, ni inyubako yakira abarwayi benshi kandi bose bagahabwa serivisi neza.

Inyubako icururizwamo imiti ikoreshwa havurwa indwara zitandukanye, haba ari indwara z'abana batoya, indwara z'abakuze ndetse n'abakuze cyane. Aba ari imiti ibikwa neza yujuje ubuziranenge kandi ikavura neza.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari indwara z'abana, iz'abakuru, ndetse n'abakuze cyane. Ikaba ifite ibikoresho byifashishwa havurwa abarwayi. Akaba ari ibikoresho byujuje ubuziranenge kandi byizewe. Byakira abarwayi benshi kandi bose bahava babonye serivisi nziza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku indwara zitandukanye, ni ubuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abantu bakuru n'abakuze cyane, ikaba ari inyubako nziza cyane ndetse ifite isuku ikaba ifite ibikoresho byujuje ubuziranenge byifashishwa mu kuvura abarwayi kugira ngo bitabweho neza.

Inyubako nziza itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'abantu batoya, ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane. Aba ari inyubako nini cyane ku buryo yakira abarwayi benshi kandi bose bagataha bahawe serivisi inoze, ndetse ifite ubusitani bwiza aho abarwayi baza kwicara baje gufata umwuka mwiza kugira bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako nini nziza itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, inyubako yubatse neza kandi ifite isuku, ikaba ifite ibikoresho bihagije, ku buryo byifashishwa havurwa abarwayi, bose bagataha babonye serivisi nziza.

Inyubako nziza nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, ni inyubako ifite isuku ndetse ifite n'ibikoresho bihagije, aho yakira abarwayi benshi kandi bose bagataha babuhawe serivisi nziza

Inyubako itangirwaho service y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye bwaba ari ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane, aba ari inyubako nini ku buryo yakira abarwayi benshi kandi bose bataha babonye service nziza.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye n'abaruvuzi, bwaba ari ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abakuza ndetse n'abakuze cyane, bikaba ari ibitaro bifite ibikoresho bihagije kandi byujuje ubuziranenge, aho bakira abarwayi benshi kandi bose bagataha babonye serivisi inoze.

Inyubako nziza nini itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye yaba ari indwara z'abana batoya, indwara z'abakuze, ndetse n'abakuze cyane. Ni inyubako ifite isuku ndetse ifite n'ibikoresho bihagije ku buryo yakira abarwayi bose kandi bose bagataha babonye serivisi nziza.

Inzu y'ubuvuzi itangirwamo serivisi ku ndwara zitandukanye, harimo ababyeyi bari kumwe n'abana babo batoya baje kubapimisha ibiro kugira ngo bamenye uko bahagaze ndetse bamenye n'uko bakomeza kubitaho.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye yaba indwara z'abana bato, abakuze ndetse n'abakuze cyane. Ikaba ari inyubako yubatse ahantu heza hatuje ku buryo abarwayi batabangamirwa n'urusaku, ifite ubusitani bwiza aho abarwayi baza kwicara baje gufata umwuka mwiza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abakuze, ndetse n'abakuze cyane. Aba ari ibitaro byihagije ku ikoresho, kuburyo bifite ibikoresho byinshi kandi byujuje ubuziranenge, ndetse bikaba byakira abarwayi benshi, bose bagataha babonye serivisi inoze. Bityo ubuvuzi bugakwira ku isi hose.

Inyubako nziza y'ubuvuzi itangirwamo serivisi ku ndwara zitandukanye, aho harimo ibikoresho byifashishwa havurwa abarwayi. Harimo igikoresho abarwayi baryamaho kugira ngo ba bagorore neza mugongo ndetse barebe neza n'ikibazo afite mu mubiri, bityo abashe kwitabwaho kandi neza maze akire.

Inyubako nziza nini itangirwaho serivisi y'ubuvuzi mu ndwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abantu bakuru, ndetse n'abakuze cyane, ikaba ari inyubako yubatse neza kandi ifite isuku, ku buryo yakira abarwayi benshi, kandi bose bagataha babonye serivisi nziza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari indwara z'abana batoya, iz'abakuze ndetse n'abakuze cyane, ni inyubako nini cyane, ubona ko hari abantu baje gushaka serivisi ndetse bakazihabwa neza. Harimo abaganga na bo ubona ko bakora muri iyi nyubako,...

Umusore arimo arakora imyitozo ngororamubiri, ari kugorora amaguru yiwe ndetse n'amaboko kugira ngo imitsi ikore neza n'amagufa arambuke, bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Amazi meza asukuye ari mu icupa, agiye kunyobwa kugira ngo afashe umubiri mu kuyungurura imyanda, ndetse n'uyanyweye akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri, ari kugorora amaboko ndetse n'ibitugu kugira ngo amaraso akomeze gutembera neza mu mubiri ndetse akomeze no kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa ari mu myitozo ngororamubiri, ari kugorora amaguru n'amaboko, kugira ngo amaraso atembere neza mu mubiri, afite amazi meza yo kunywa, ari kunywa no kuyungura imyanda iri mu mubiri, ndetse akomeza no kugira ubuzima bwiza.

Ubuzi bugufasha gukora neza siporo mu gihe wagize ikibazo cy'umubiri, mu gihe wakomeretse uri muri siporo. Ubuvuzi bugufasha neza kuba wasubira muri siporo yabo, bugufasha kwirinda imvune n'amavunane, bugufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Amoko y'imiti ikoreshwa havurwa abantu bakoze imyitozo ngorongaramubiri bakagiriramo ibibazo birimo imvune. Ikaba ari imiti igabanya uburibwe n'ububabare, ikaba ikora neza kandi yizewe. Inakoreshwa kugira ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza, ku Isi hose.

Ubwoko bw'imiti ikoreshwa havurwa abantu bakoze imyitozo ngororamubiri, bakagiriramo ibibazo birimo imvune, akaba ari imiti igabanya uburibwe n'ububabare, ikaba ikora neza kandi yizewe, igakoreshwa kugira ngo bakomeze kugira ubuvuzi bunoze ku Isi hose.

Umusore arimo gukora imyitozo ngororamubiri, arimo aragorora amaguru, amaboko kugirango imitsi ikore neza, maze n'amagufa arambuye bikomeza kugira ubuzima bwiza.

Umugabo uri kunywa amazi meza asukuye, ubona ko amaze gukora imyitozo ngororamubiri ari kunywa amazi kugira ngo amufashe kuyungurura imyanda iri mu mubiri bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, ari kugorora amatako yiwe kugira ngo amaraso atembere neza umubiri ndetse n'imitsi ikore neza bityo akomeza kugira ubuzima bwiza.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri arimo aragorora amaboko yiwe kugira ngo imitsi igororoke ndetse n'amagufawa akore neza bityo amaraso atembere neza mu mubiri maze akomeze kugira ubuzima bwiza.

Amoko y'imiti ikoreshwa havurwa abantu bakoze imyitozo ngororamubiri bakagiriramo ibibazo birimo imvune. Ikaba ari imiti igabanya uburibwe n'ububabare. Ikaba ikora neza kandi yizewe. Igakoreshwa kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bunoze ku isi hose.

Umusore avuye mu myitozo ngororamubiri, kugira ngo amagufwa ye akore neza, ari kunywa amazi meza asukuye, amufasha kuyungurura imyanda iri mu mubiri, ndetse akomeze kugira ubuzima bwiza.

Abasore bane bari mu imyitozo ngororamubiri bari kwirukanka bagorora amaguru yabo ndetse n'ibindi bice by'umubiri, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umuntu ari kunywa amazi meza asukuye, amazi aza kumufasha kuyungurura inyanda mu mubiri ndetse n'uyanyweye agakomeza kugira ubuzima bwiza.

Umuganga ari kumwe n'umurwayi ari kumukoresha imyitozo ngororamubiri kugira ngo imitsi ikore neza ndetse n'amagufwa arambuye, bityo amaraso atembere neza mu mubiri maze uwo murwayi akire agire ubuzima bwiza.

Umuganga uvura indwara cyane cyane iziterwa n'imyitozo ngororamubiri, zirimo imvune akaba yicaye mu ivuriro aho atangira iyo serivisi, hakaba hari na mudasobwa akoresha arimo arandika amakuru ku ndwara yavuye.

Umuganga ari kumwe n'umurwayi, ari kumukoresha umwitozo ngororamubiri kugira ngo imitsi ikomeze gukora neza ndetse n'amagufwa akomere.

Umusore ari kunywa amazi meza asukuye ayo mazi akaba amufasha mu kuyungurura imyanda iri mu mubiri ndetse n'uri kuyanywa agakomeza kugira ubuzima bwiza.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, ari kugorora amaguru n'amaboko, kugira ngo imitsi ye ikore neza, ndetse n'amagufa arambuke, bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ibikoresho byifashishwa havurwa abarwayi binyuze mu myitozo ngororamubiri, aho umurwayi aryama kwa kino gikoresho, bakamugorora umugongo n'amaguru maze agakira, agakomeza kugira ubuzima bwiza.

Ubwoko bw'imiti ikoreshwa havurwa abantu bakoze imyitozo ngororamubiri bakagiriramo ibibazo birimo imvune, ikaba ari imiti igabanya uburibwe n'ububabare, ikaba ikora neza kandi yizewe, igakoreshwa kugira ngo bakomeze kugira ubuvuzi bunoze ku isi hose.

Umukobwa, ari gukora imyitozo ngororamubiri, ari kugorora amaguru n'amaboko kugira ngo amaraso atembere neza mu mubiri ndetse n'imitsi ikore neza, maze bimurinde kuba yarwara akomeza kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri ari kugorora amaboko, umugongo n'amaguru kugira ngo imitsi ikore neza, afite n'amazi yo kunywa kugira ngo aze kugabanya imyanda iri mu mubiri ndetse akomeze no kugubwa neza agire ubuzima bwiza.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, ari kugorora amaguru ye n'amaboko kugira ngo imitsi ikore neza ndetse n'amaraso atembera neza mu mubiri, bityo bimurinde kurwara indwara zitandukanye. Mu ruhande rwe hari amazi yo kunywa, aza kumufasha mu kuyungurura imyanda mu mubiri ndetse akomeze no kugira ubuzima bwiza.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, aho harimo igikoresho bifashisha mu gihe bagiye kuvura umurwayi, bamuryamishaho kugira ngo barebe bimwe mu bice by'umubiri, barebe ko umugongo ukora neza, ndetse n'amaguru akabakora neza, bityo babashe kumwitaho bikwiriye.

Umusore uri kunywa amazi meza asukuye ubona ko asoje imyitozo ngororamubiri, amazi aramufasha kuyungurura imyanda mu mubiri ndetse no gutuma umubiri ukora neza bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umuganga ari kumwe n'umurwayi ari kumukoresha imyitozo ngororamubiri ku mavi kugira ngo amagufwa akomere ndetse n'imitsi ikore neza, umurwayi akire vuba.

Umuntu uri kunywa amazi meza asukuye kugira ngo amufashe kuyungurura imyanda imwe n'imwe iri mu mubiri, bityo akomeze kugira ubuzima bwiza, ubona ko avuye gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi barimo abana batoya, abasore n'abakobwa, bari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bagorore imibiri yabo ndetse amaraso akomeze gutembera neza umubiri, bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ibikoresho bitandukanye birimo imiti ikoreshwa havurwa abantu bakoze imyitozo ngororamubiri bakagiriramo ibibazo birimo imvune, ikaba ari imiti igabanya uburibwe n'ububabare, iba ikora neza kandi yizewe igakoreshwa kugira ngo bakomeze kugira ubuvuzi bunoze ku isi hose.

Umukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri, ari kugorora amaboko ndetse n'amaguru kugira ngo imitsi ye ikore neza n'amagufwa akomere bityo akomeze kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Ubwoko bw'imiti ikoreshwa havurwa abantu bakoze imyitozo ngororamubiri bakagiriramo ibibazo birimo imvune. Akaba ari imiti igabanya uburibwe n'ububabare. Ikaba ikoreshwa neza kandi yizewe, igakoreshwa kugira ngo bakomeze kugira ubuvuzi bwiza bwizewe.

Umusore ari kunywa amazi meza asukuye abona ko amaze gukora imyitozo ngororamubiri, ari kunywa amazi, kugira ngo amufashe kuyungurura imyanda iri mubiri, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umuganga arimo aravura umwana yifashishije igikoresho cyabugenewe binyuze mu mu gukoresha imyitozo ngororamubiri, ikaba ari inzobere yabimenyereye kandi yabihuguriwe; gukoresha abana imyitozo ngoramubiri yo kubavura ibikomere.

Umusore urimo gukora imyitozo ngororamubiri, ateruye icyuma kugira ngo agorore imitsi y'amaboko ibashe gukora neza ndetse harimo imbuto afata kugira ngo bimwongerere imbaraga zirimo amagi, karoti, amashu, amazi yo kunywa ndetse n'ibindi.

Umukobwa uri kunywa amazi meza asukuye, akaba yari ari gukora imyitozo ngororamubiri, ari kunywa amazi kugira ngo amufashe kuyungurura imyanda ndetse akomeze no kugira ubuzima bwiza.

Umusore ubona ko amaze gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo imiti ye ikore neza, akaba ari kunywa amazi amufasha kuyungurura imyanda iri mu mubiri bityo yumve ameze neza akomeze no kugira ubuzima bwiza.

Amazi meza asukuye arimo arasukwa mu gikombe kugira ngo anyobwe, akaba ari amazi agire ubuzima bwiza, afasha mu kuyungurura imyanda mu mubiri ndetse no gutuma umubiri ukomeza gukora neza, bityo uyanyweye akomeza kugira ubuzima bwiza.

Umuntu ari gukora siporo, yagize icyuya cyinshi ari kwimenaho amazi mu maso kugira ngo agabanye icyuya kiri ku mubiri wiwe. Siporo ni nziza ku mubiri w'umuntu kuko iturinda indwara nyinshi mu mubiri.

Umukobwa arimo kunywa amazi meza asukuye ubona ko avuye gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari kunywa amazi kugira ngo amufashe kuyungurura imyanda imwe n'imwe iri mu mubiri ndetse yumve afite n'ubuzima bwiza.

Umukobwa ari mu myitozo ngororamubiri ari kugorora amaboko n'umugongo kugira ngo imitsi ikore neza ndetse akomeze no kugira ubuzima bwiza, imbere yiwe afite icupa ririmo amazi aza kunywa kugira ngo ayungurure imyanda iri mu mubiri, bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umusore ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo amagufwa ye akore neza ndetse n'imitsi ikomeze gukora neza, bityo akomeze kugira ubuzima bwiza, ari no kunywa amazi asukuye aza kumufasha kuyungurura imyanda iri mu mubiri, maze yumve afite ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuganga arimo aravura umwana yifashishije igikoresho cyabugenewe, binyuze mu kumukoresha imyitozo ngororamubiri, akaba ari inzobere yabimenyereye kandi yahuguriwe gukoresha abana imyitozo ngororamubiri mu kuvura ibikomere.

Umugabo avuye mu myitozo ngororamubiri, ari kunywa amazi meza, asukuye kugira ngo amufashe kuyungurura imyanda mu mubiri ndetse n'uyanyweye akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ari gusuka amazi yo kunywa mu gikombe, ni byiza ko tunywa amazi mbere y'uko tujya mu myitozo ngororamubiri na nyuma y'uko tuva yo kubera ko amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu.

Umusore ari mu myitozo ngororamubiri, arapfukamye, ari kugorora amaboko ndetse n'umugongo kugira ngo imitsi, ikomeze gukora neza n'amagufwa akomere.

Umuntu ari kunywa amazi meza asukuye, akaba ari amazi agira ubuzima bwiza akaba ayungurura imyanda mu mubiri ndetse agatuma n'uyanyweye, akomeza kugira ubuzima bwiza.

Umuntu afite ijage ari gusuka amazi mu gikombe avuye muri siporo agiye kunywa amazi kugirango akomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze, ni byiza rero ko iyo tuvuye gukora siporo tugomba kunywa amazi kugirango twubake umubiri mwiza uzira indwara.

Umukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri, arimo aragorora amaboko yiwe yayasize hejuru kugira ngo amaraso atembere neza mu mubiri ndetse n'imitsi ye ikore neza bityo yumve afite ubuzima bwiza.

Umukobwa arimo gukora imyitozo ngororamubiri arimo aragorora amaguru, amaboko ndetse n'amavi kugira ngo imitsi ikora neza n'amagufa akomere, bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umuganga ari kumwe n'umurwayi, ari kumukoresha imyitozo ngororamubiri, kugira ngo imitsi ikore neza ndetse n'amagufa akomere, bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ubwoko bw'imiti ikoreshwa havurwa abantu bakoze imyitozo ngororamubiri, bakagiriramo ibibazo birimo imvune, ikaba ari imiti igabanya uburibwe n'ububabare, ikaba ikora neza kandi yizewe, igakoreshwa kugira ngo bakomeze kugira ubuvuzi bunoze ku isi hose.

Amoko y'imiti ikoreshwa havurwa abantu bakora imyitozo ngororamubiri, bakagiriramo ibibazo birimo imvune, akaba ari imiti igabanya uburibwe n'ubabare. Ikaba ikora neza kandi yizewe. Igakoreshwa kugira ngo ubuvuzi bunozwe ku isi hose. Hakaba hari ubwirinzi bambara mu gihe bagiye kuvura uwo umurwayi wagize icyo kibazo.

Inkweto zifashishwa mu gihe umuntu agiye gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo zimurinde kuba yakomereka, bityo akore imyitozo neza akomeze no kugira ubuzima bwiza.

Umuntu barimo baramugorora amaguru, arimo aravurwa n'umuganga w'inzobere mu kugorora cyane cyane in imvune ziterwa no gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza ndetse n'amaraso atembere mu mubiri.

Umukobwa arimo arakora imyitozo ngororamubiri ari kugorora amaguru, umugongo, n'amaboko kugira ngo amaraso atembere neza mu mubiri n'imitsi ikore neza, maze akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ubwoko bw'imiti ikoreshwa havurwa abantu bakoze imyitozo ngororamubiri, bakagiriramo ibibazo birimo imvune, ikaba ari imiti igabanya uburibwe n'ububabare, ikaba ikora neza kandi yizewe. Inakoreshwa kugira ngo bakomeze kugira ubuvuzi bunoze ku isi hose.

Ubwoko bw'imiti ikoreshwa havurwa abantu bakoze imyitozo ngororamubiri bakagiriramo ibibazo birimo imvune, ikaba ari imiti igabanya uburibwe n'ububabare, ikaba ikora neza kandi yizewe, igakoreshwa kugira ngo bakomeze kugira ubuvuzi bunoze ku isi hose.

Umuntu ari kunywa amazi meza asukuye, kugira ngo yirinde indwara, ndetse anayungurure imyanda iri mu mubiri, bityo akomeze kugira, ubuzima bwiza.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, ari kugorora amaguru ndetse n'amaboko kugira ngo imitsi ikore neza ndetse n'amaraso akomeze gutembera neza mu mubiri bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurwayi uryamye mu bitaro, urembye cyane, ari kumwe na muganga ,ari kumufasha gukora siporo, kugira ngo agorore imitsi ndetse n'amagufwa, maze amaraso akomeze gutembera neza, ndetse anabashe gukira indwara arwaye vuba.

Umusore ari gukora imyitozo ngororamubiri, ari kugorora amaguru ndetse n'amaboko kugira ngo imitsi ikore neza ndetse n'amaraso atembera neza mu mubiri. Bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa ari kunywa amazi meza asukuye, ubona ko amaze gukora imyitozo ngororamubiri, ari anywa amazi kugira ngo amufashe kuyungurura imyanda iri mu mubiri maze akomeze no kugira ubuzima bwiza.

Ubwoko bw'umuti ukoreshwa havurwa abantu bakoze imyitozo ngororamubiri, bakagiriramo ibibazo birimo imvune, akaba ari imiti igabanya uburibwe n'ububabare, ikaba ikora neza kandi yizewe, igakoreshwa kugira ngo bakomeze kugira ubuvuzi bunoze ku Isi hose.

Abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bagorore ibice bimwe na bimwe bigize umubiri ndetse bakomeze no kugira ubuzima bwiza bityo hirindwe indwara zitandukanye.

Umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri yiruka, akaba arimo agorora amaboko n'amaguru kugira ngo imitsi igende neza, ndetse harimo imbuto afata kugira ngo zimwongerere imbaraga zirimo amatunda ndetse na karoti.

Ubwoko bw'imiti ikoreshwa havuga abantu bakoze imyitozo ngororamubiri, bakagiriramo ibibazo birimo imvune, ikaba ari imiti igabanya uburibwe n'ububabare, ikaba ikora neza kandi yizewe, igakoreshwa kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza bwizewe.

Umusore n'umukobwa bari mu myitozo ngororamubiri kugira ngo imiti ikore neza ndetse n'amagufwa abashe gukomera, umusore ari kunywa amazi kugira ngo agabanye imyanda iri mu mubiri ndetse anabashe kugira ubuzima bwiza.

Abantu babiri, umusore n'umukobwa, bari kunywa amazi meza asukuye, akaba ari amazi afasha kuyungurura imyanda mu mubiri, ndetse agatuma bakomeza no kugira ubuzima bwiza.

Amazi meza ari gusukwa mu gikombe kugira ngo anyobwe, afashe umubiri kuyungurura imyanda ndetse umubiri ukomeze no gukora neza, bityo dukomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri, arimo aragorora amaboko ye kugira ngo imitsi ikore neza ndetse n'amaraso atembere neza mu mubiri, bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ubwoko bw'imiti ikoreshwa havurwa abantu bakora imyitozo ngororamubiri bakagiriramo ibibazo birimo imvune, akaba ari imiti igabanya uburibwe n'ububabare, ikaba ikora neza kandi yizewe, igakoreshwa kugira ngo hakomezwe kugira ubuvuzi bunoze ku Isi yose.

Umusore ari gukora imyitozo ngororamubiri ari kugorora imwe mu ngingo zigize umubiri kugira ngo amaraso atembere neza mu mubiri ndetse n'imitsi ikore neza bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umusore ari gukora imyitozo ngororamubiri, ari kugorora amaboko ye ndetse n'ijosi kugira ngo amaraso atembere neza mu mubiri ndetse n'imitsi ikore neza, maze akomeza kugira ubuzima bwiza.

Umusore ari mu imyitozo ngororamubiri, harimo aragorora ingingo zimwe na zimwe z'umubiri, harimo amaboko n'amaguru, kugira ngo umubiri we ukomeze gukora neza kandi yirinde indwara zimwe na zimwe.

Umusore mu myitozo ngororamubiri akurura amaboko n'amaguru kugira ngo imitsi ikomeze gukora neza ndetse n'amaraso atembere neza mu mubiri bityo yirinde indwara zimwe na zimwe zikomeza kugira ubuzima bwiza gusa.

Umuntu afite imbuto zitandukanye zirimo avoka, indimu, imikiyeri ndetse n'izindi, agiye kuzirya kugira ngo zimwongerere imbaraga ndetse zimurinda n'indwara, akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri, ari kugorora zimwe mu ngingo z'umubiri, harimo amavi, amaboko n'amaguru ndetse n'ibindi. Kugira ngo yirinde indwara ndetse amaraso akomeze gutembera neza mu mubiri bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Amoko y'imiti itandukanye ikoreshwa havurwa abantu bakoze imyitozo ngororamubiri bakagiriramo ibibazo birimo imvune, akaba ari imiti igabanya uburibwe n'ububabare, ikaba ikora neza kandi yizewe igakoreshwa kugira ngo bakomeze kugira ubuvuzi bunoze ku isi hose.

Umukobwa ari kunywa amazi meza asukuye kugira ngo yirinde indwara ziterwa n'umwanda ndetse ayo mazi akomeze kumufasha mu kuyungurura imyanda iri mu mubiri bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abamama n'abagabo bambaye imyambaro yo gukorana imyitozo ngororamubiri, bari gukora imyitozo yo kugorora amaboko kugira ngo imitsi yabo ikore neza, ndetse n'amagufa akomeye bityo bibarinde kurwara indwara na zimwe.

Amoko y'imiti myinshi itandukanye, ikoreshwa havurwa abantu bakoze imyitozo ngororamubiri, bakagiriramo ibibazo birimo imvune, akaba ari imiti igabanya uburibwe n'ububabare. Ikaba ikora neza kandi yizewe, igakoreshwa kugira ngo bakomeze kugira ubuvuzi bunoze ku Isi hose.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri ari kunywa amazi meza asukuye kugira ngo amufashe kuyungurura imyanda iri mu mubiri ndetse akomeze no kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo umubiri we ukore neza, ndetse ari no kunywa amazi kugira ngo imufashe kuyungurura imyanda y'umubiri, ndetse yumve afite ubuzima bwiza.

Umukobwa ari mu myitozo ngororamubiri, ari kugorora akaguru kiwe n'akaboko kugira ngo imitsi ikore neza n'amagufa akomere, bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ubwoko bw'amavuta akozwe mu byatsi bizwi nk'igikakarubamba, bikaba ari ibyatsi byiza kandi byizewe, bikaba byifashishwa havurwa indwara zitandukanye ndetse bigakorwarwamo n'amavuta yo kwisiga kugira ngo umubiri ukomeze kumera neza.

Ubwoko bw'ibyatsi bwifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, bukaba busoromwa bugakorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo, kandi ukavura. Ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa indwara.

Ubwoko bw'umuti bukozwe mu byatsi bizwi nk'igikakarubamba, ukaba ari umuti ukora neza kandi wizewe, ukaba wifashishwa havurwa indwara zimwe na zimwe z'umubiri.

Umugabo uri mu ishyamba, ahantu hari ibyatsi byinshi cyane, wambaye umupira w'umweru n'ipantaro, ari gusoroma ibyatsi aza kwifashisha mu gukoramo imiti iza kumuvura indwara.

Amoko y'imiti itandukanye, harimo ibyatsi ndetse n'imizi y'ibiti, aho yasoromye ikaba igiye gukorwamo imiti, izwi nk'umuti gakondo wifashishwa kwa muganga havurwa abarwayi, akaba ari imiti yizewe kandi ikavura.

Ubwoko bw'shatsi bwifashishwa mubuvuzi bw'indwara zitandukanye bigakorwarwamo umuti uzwi umupira agomba a gukora neza kandivu ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa abarwayi.

Imiti ikozwe mu byatsi by'amoko atandukanye, harimo imizi y'ibiti ndetse n'ibindi, bikaba bigiye guhurwa kugira ngo bikorwemo umuti uza kwifashishwa kwa muganga havurwa indwara.

Amoko y'imiti y'ibyatsi itandukanye ikoreshwa kwa muganga havurwa abarwayi, irasoromwa igakorwamo imiti izwi nka gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zimwe na zimwe, yaba ari indwara zo mu nda ndetse n'iz'uruhu, ni imiti yizewe kandi ikora neza. Ikoreshwa kwa muganga havurwa abarwayi.

Ubwoko bw'ibyatsi bwifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, bukaba busoroka bugakorwamo umutira, uzwi nk'umuti gakondo kandi ukavura. ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa indwara...

Ubwoko bw'umuti w'ibyatsi wifashishwa kwa muganga havurwa indwara zimwe na zimwe zitandukanye, ukaba ugiye guhurwa kugira ngo ukorwemo umuti gakondo uvura neza kandi ukaba wizewe. Ukaba ugiye gukoreshwa kwa muganga havurwa abarwayi.

Imiti gakondo ifite akamaro kanini mu buzima bw'umuntu. Kuko yifashishwa ahanini mu kuvura indwara zimwe na zimwe z'amayobera, kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza byiza, ni byiza rero ko tugomba gusigasira imiti gakondo tukayubaha ni dutume icika mu gihugu.

Ubwoko bw'ibyatsi bwifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, bukaba busoromwa bugakorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo ukora neza kandi ukavura, ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa indwara.

Imiti y'amoko atandukanye ikozwe mu mbuto, yifashishwa mu buvuzi bw'indwara. Ni imiti yizewe kandi ivura neza, ikoreshwa kwa muganga havurwa indwara zimwe na zimwe z'umubiri.

Ubwoko bw'ibyatsi byifashishwa kwa muganga havurwa indwara zitandukanye, aho busoromwa bugakorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo, ukora neza kandi ukavura, ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa abarwayi.

Umuntu ari gusoroma umuti w'ibyatsi, agiye kuwuhura awukoremo umuti uzwi nka gakondo wifashishwa kwa muganga havurwa indwara zitandukanye, agiye kuwifashisha yivura indwara zimwe na zimwe z'umubiri.

Umuti ukozwe mu gikakarubamba ufasha mu kugabanya uburibwe, ndetse ukanakiza inkorora n'izindi ndwara z'uruhu, ni umuti wizewe kandi ukora neza ukoreshwa kwa muganga havurwa abarwayi.

Ubwoko bw'umuti ukozwe mu bimera byifashishwa havurwa indwara zimwe na zimwe zitandukanye, harimo indwara z'uruhu, indwara z'igifu ndetse akaba ari umuti wizewe, ukoreshwa kwa muganga hari kuvurwa abarwayi bafite izo ndwara kandi bakavurwa zigakira.

Umuti ukozwe mu byatsi bizwi nk'igikakarubamba, akaba ari ibyatsi byifashishwa havurwa indwara zitandukanye, yaba ari indwara z'uruhu ndetse n'izindi, ni umuti wizewe kandi ukora neza, utuma n'umubiri umera neza.

Umuti ukozwe mu bimera by'ibyatsi birimo umuravumba, igikakarubamba ndetse n'iyindi akaba ari umuti ukoze neza kandi wizewe ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa indwara zitandukanye zirimo indwara z'uruhu, igifu, ndetse no mu nda, akaba ari umuti wizewe kandi ukora neza.

Igiti kirekire gifite imbuto zifashishwa hakorwa umuti uvura indwara zitandukanye ndetse ukanakoreshwa no kwa muganga havurwa abarwayi, akaba ari umuti wizewe kandi ukora neza.

Amoko y'ibyatsi atandukanye yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, akaba asoromwa agakorwamo umuti uzwi nka gakondo kandi ukavura. Ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa abarwayi, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ubwoko bw'ikimera cy'ibyati, cyifashishwa kwa muganga, havurwa indwara zitandukanye, kikaba gisoromwa bigakorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo, ukora neza kandi ukavura. Ukaba ari umuti ukoreshwa kwa muganga havurwa abarwayi.

Amoko y'ibimera bitandukanye harimo ibyatsi, imizi y'ibiti ndetse n'ibindi, bikaba bigiye guhurwa bigakorwamo umuti uza kwifashishwa havurwa indwara zitandukanye harimo indwara z'uburibwe, indwara z'uruhu ndetse z'ibindi bityo abazirwaye bagakomeza kugira ubuzima bwiza.

Umuti ukozwe mu gikakarubamba, ukaba ari umuti wizewe kandi ukora neza, ukaba wifashishwa havura indwara zimwe na zimwe z'umubiri, worohereza amagufa ndetse ukavura n'indwara z'uruhu, ni umuti wizewe kandi ukoreshwa kwa muganga, havurwa abarwayi kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umuti ukozwe mu bwoko bw'ibyatsi bizwi nk'igikakarubamba, akaba ari ibyatsi byiza kandi bivura neza, bikaba bitunganywamo umuti ikoreshwa yaba ari mu buvuzi bw'amenyo, mu nda ndetse n'iz'indi ndwara z'uruhu.

Amoko y'imiti itandukanye yifashishwa kwa muganga havurwa abarwayi, imiti ikozwe mu byatsi gakondo yujuje ubuziranenge kandi ikoranye isuku, ikoreshwa kwa muganga havurwa abarwayi.

Ubwoko bw'ibyatsi bwifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari ukuvura uruhu, mu nda ndetse n'izindi, bukaba busoromwa bugakorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo ukora neza kandi ukavura, ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa indwara.

Amoko y'imiti itandukanye, ikozwe mu bimera by'ibyatsi bizwi nk'ibyatsi gakondo, ikaba ari imiti ikunda kwifashishwa havurwa indwara zimwe na zimwe zitandukanye, zirimo indwara zo mu nda, indwara z'igifu ndetse n'iz'uruhuru, ikaba ari imiti ikora neza, kandi yizewe.

Ubwoko bw'ibyatsi bwifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari ukuvura indwara z'uruhu ndetse n'igifu bukaba busoromwa bugakorwamo umuti uzwi nka gakondo kandi ukavura. Ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa indwara zitandukanye kandi urizewe

Ubwoko bw'ibimera by'ibyatsi byifashishwa kwa muganga havurwa indwara zitandukanye iyo bisoromwe bigakorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo uvura neza kandi wizewe, ugakoreshwa kwa muganga havurwa abarwayi.

umuti w'ibyatsi wifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye ukaba usoromwa ugakorwamo umuti uzwi kandi wizewe, aho wifashishwa kwa muganga havurwa indwara zimwe na zimwe z'umubiri.

Ibinini bikozwe mu byatsi gakondo, byifashishwa havurwa indwara zimwe na zimwe zitandukanye ndetse bikaba bikoreshwa kwa muganga havurwa abarwayi, bikaba ari ibinini byizewe kandi byujuje ubuziranenge.

Ubwoko bw'imiti itandukanye ndetse harimo n'amavuta akozwe mu mbuto gakondo, akaba byose byifashishwa mu buvuzi bw'indwara ndetse akaba ari meza ku mubiri.

Ubwoko bw'imiti itandukanye harimo tungurusumu, tangawizi, n'ibyatsi. Harimo n'imizi y'ibiti bigiye guhurwa kugira ngo hakorwemo umuti uza gukoreshwa kwa muganga havurwa indwara zitandukanye.

Ubwoko bw'ibyatsi byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, aho bisoromwa bugakorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo wifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye ndetse akaba ari umuti ukora neza wizewe.

Ubwoko bw'ibyatsi buhinze ahantu mu gitaka, bwifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye; bukaba busanzwe bukorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo kandi ukavura. Ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa abarwayi.

Umuti gakondo witwa igikakarubamba, uzwiho kuvura indwara y'uruhu ndetse n'igifu, ni byiza kuwukoresha kuko ufite akamaro kanini mu mubiri w'umuntu ndetse unakiza indwara zitandukanye.

Amoko y'imiti y'ibyatsi, agiye guhurwa kugira ngo akorwemo umuti wizewe kandi uvura neza, uza kwifashishwa kwa muganga havurwa abarwayi.

Umuganga afite umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zimwe na zimwe z'umubiri, ni ngombwa rero kubungabunga imiti gakondo kuko ifite akamaro kanini ku buzima bw'umuntu ndetse n'igihugu muri rusange.

nin mukuru koga udufasha mu buzima bwamo kugirango dukomeze kugira ubuzima bwiza kandi tubeho mu mijyi ikoreshwa ha kuvurwa indwara ku z'umubiri kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza

Ubwoko bw'ibyatsi bwifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, bukaba busoromwa bugakorwamo umuti uzwi nka gakondo kandi ukavura ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa indwara zitandukanye.

Umuti ukozwe mu buki, akaba ari umuti ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari indwara zo mu nda, indwara z'uruhu, akaba ari umuti ukoreshwa kwa muganga, urizewe kandi wujuje ubuziranenge, utunganywa mu buki ndetse akongeramo n'iyindi miti, kugira ngo bakore umuti mwiza kandi muzima.

Ubwoko bw'ibyatsi bisa neza byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, barawukora hagakarwamo umuti uzwi nka gakondo maze ukavura. Ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa indwara zimwe na zimwe harimo inzoka ndetse n'izindi ndwara zo kuruhu.

Ubwoko bw'ibimera bw'ibyatsi bwifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, bukaba busoromwa bugakorwamo umuti uvura kandi wizewe, ukaba ukoreshwa kwa muganga havurwa abarwayi.

Amoko y'imiti itandukanye arimo n'amavuta akozwe mu mbuto gakondo, akaba byose byifashishwa mu buvuzi bw'indwara ndetse aba ari meza ku mubiri.

Amoko y'imiti itandukanye, yifashishwa kwa muganga havurwa indwara zimwe na zimwe z'uruhu ndetse n'izindi, ni imiti yizewe kandi ikora neza ifite n'ubuziranenge.

Igihingwa cy'ibyatsi kifashishwa hakorwa umuti ukoreshwa kwa muganga havura indwara zitandukanye, yaba ari indwara z'uruhu, indwa z'igifu ndetse n'izindi, ikaba isoromwa igakorwamo umuti wizewe kandi wujuje ubuziranenge.

Ubwoko bw'imiti itandukanye ndetse harimo n'amavuta akozwe mu mbuto gakondo, akaba byose byifashishwa mu buvuzi bw'indwara ndetse akaba ari meza ku mubiri.

Amoko y'imiti yifashishwa havurwa indwara zitandukanye, harimo tangawizi ndetse n'imiti y'ibyatsi, bikorwamo umuti uzwi nk'umuti nk'uwa gakondo wifashishwa mu kuvura inkorora ndetse n'izindi ndwara z'ubu.

Umuntu ari gusoroma ibibi by'ibyatsi arabyifashisha abikoramo umuti uza kumuvura indwara zitandukanye yaba ari indwara z'inzoka, izo mu nda ndetse n'izo ku ruhu.

Amoko y'imiinsi itandukanye harimo tangawizi, tungurusumu ndetse n'izindi mbuto, byifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda ndetse igakoreshwa no kwa muganga, havurwa indwara kugira ngo abantu bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Amoko y'ibyatsi bitandukanye harimo imbuto, bikaba bisoromwa bigakorwamo umuti uzwi nka gakondo wifashishwa kwa muganga havurwa abarwayi ndetse ukaba wizewe unakora neza.

Amoko y'imiti itandukanye ikozwe mu bimera by'ibyatsi bizwi nk'igikakarubamba, umuravumba ndetse n'inkamba, bikaba byose byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, bikaba bikoreshwa kwa muganga havurwa abarwayi.

Umuti ukozwe mu byatsi birimo igikakarubamba, imiravumba ndetse n'iyindi, ukaba umuti wizewe kandi ukora neza ukaba wifashishwa hakorwa amasuku kugira ngo isuku ikomeze kunozwa ku Isi hose.

Amoko y'ibyatsi harimo igikakarubamba ndetse n'ibindi, bikaba byifashishwa havurwa indwara zitandukanye, yaba ari indwara z'uruhu, izo mu nda ndetse n'izindi, bikaba bisobanuye bikorwamo umuti wifashishwa kwa muganga, havurwa abarwayi, kugira ngo abarwaye izo ndwara bakire, kandi bitabweho neza.

Imiti y'amoko atandukanye akozwe mu buki akaba ari imiti ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye zabaye indwara zo mu nda n'iz'uruhu. Akaba ari imiti ikoreshwa kwa muganga. Irizewe kandi yujuje ubuziranenge. Itunganywa mu buki ndetse bakongeramo n'indi miti kugira ngo bakore umuti mwiza kandi muzima.

Ubwoko bw'ibimera bw'ibyatsi byifashishwa havurwa indwara zimwe na zimwe zitandukanye, harimo indwara z'uruhu, indwara zo mu nda ndetse n'igifu, bikaba bisoromwa bigakorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo ukora neza kandi wizewe, ukaba ukoreshwa kwa muganga havurwa abarwayi kugira.

Ubwoko bw'ibyatsi byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, bikaba bitoranywa, bigakorwamo umuti gakondo uzwi, kandi ukavura ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa indwara.

Ubwoko bw'ibyatsi byifashishwa kwa muganga havurwa indwara zitandukanye, bukaba busoromwa, bugakorwamo umuti uzwi nka gakondo wizewe kandi ukavura.

Umuti ukozwe mu mbuto gakondo wifashishwa havurwa indwara zimwe na zimwe zitandukanye, uba ari umuti ukoze neza kandi wujuje ubuziranenge, uba ukoreshwa havurwa indwara.

Ubwoko bw'ibyatsi nyinshi bufumbiye mu gitaka bazabusoroma bugakorwamo umuti uzwi nka gakondo zo kwifashishwa kwa muganga, havurwa abarwayi yaba ari indwara z'uruhu ndetse n'izindi.

Itsinda ry'amacupa menshi hari amaremare, hari amacupa magufiya hari ari mu rugero yifashishwa mu kuvura indwara zimwe na zimwe za Kinyarwanda. Iyi miti akaba ariyo bita imiti ya gakondo. Imiti ya kera ariko ifite uruhare runini mu gutabara ubuzima bw'abantu.

Umuganga ari kwerekana, ibinini bikozwe mu byatsi gakondo, byifashishwa kwa muganga, bavura indwara zitandukanye, yaba ari indwara z'igifu, indwara z'uruhu, ndetse n'izindi. Ni ibinini byizewe kandi bikora neza.

Umuti ukozwe mu byatsi gakondo, wifashishwa havurwa indwara zimwe na zimwe z'umubiri, yaba ari indwara z'uruhu, ndetse n'amavunane, akaba ari umuti wujuje ubuziranenge kandi wizewe, ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa abarwayi.

Ubwoko bw'imiti ikozwe mu byatsi ikaba ikoreshwa havurwa indwara zimwe na zimwe zitandukanye, ikaba ari imiti yujuje ubuziranenge kandi yizewe, igakoreshwa kwa muganga havurwa indwara zitandukanye.

Ibikoresho bitandukanye birimo tangawizi n'ibindi byatsi n'amoko y'imizi y'ibiti, byose bikaba byifashishwa hakorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo, ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye kugira ngo abazirwaye bakire.

Umuti uri mu icupa ry'umweru wifashishwa mu gukorera isuku amenyo, murabona ko hejuru hari umuntu ufite amenyo asa neza, bivuze ko ajya akoresha uyu muti buri munsi, ni byiza kugirira isuku amenyo yacu kuko ni ingenzi.

Amoko y'imiti itandukanye, akozwe mu bimera by'ibyatsi birimo umuravumba, umwenya, ndetse n'igikakarubamba, akaba ari imiti yizewe kandi yujuje ubuziranenge, ikaba ibitse neza, ikoreshwa kwa muganga havurwa abarwayi.

Amoko y'imiti itandukanye, ikozwe mu bwoko bw'ibyatsi bizwimo nk' igikakarubamba akaba ari ibyatsi byiza kandi bivura neza, bikaba bitunganywamo umuti ukoreshwa yaba ari mu buvuzi bw'amenyo, mu nda ndetse n'izindi ndwara ndetse hakaba harimo n'amavuta akozwe mu mbuto gakondo, akaba byose byifashishwa mu buvuzi bw'indwara ndetse akaba ari meza ku mubiri.

Ubwoko bw'imiti ikozwe mu byatsi, yifashishwa kwa muganga havurwa indwara zitandukanye, yaba ari iz'abana, abantu bakuru ndetse n'abakuze cyane. Akaba ari imiti yizewe kandi yujuje ubuziranenge igakoreshwa kwa muganga havurwa abarwayi.

Umuti uzwi nka tungurusumu wifashishwa havurwa indwara zitandukanye, zirimo indwara zo mu nda, indwara z'igifu ndetse n'izindi, ukaba ari umuti ukora neza kandi wizewe, ukaba ukoresha kwa muganga havurwa abarwayi.

Imiti y'amoko atandukanye, iri mu macupa atandukanye yifashishwa kwa muganga, havurwa indwara zimwe na zimwe harimo uruhu, indwara y'uruhu ndetse n'igifu, iyi miti irizewe kandi ikora neza.

Umuti ukozwe mu byatsi bizwi nk'igikakarubamba, akaba ari ibyatsi byifashishwa mu kuvura indwara zimwe na zimwe, yaba ari iz'uruhu, yaba ari indwara z'amenyo, ni umuti wizewe kandi uvura neza, ukaba wifashishwa kwa muganga havura indwara.

Amoko y'imiti akozwe mu bimera by'ibyatsi, igikakarubamba, ndetse n'imiravumba. Ikaba yifashishwa havurwa indwara zimwe na zimwe zitandukanye, ikaba ikora neza kandi yujuje ubuziranenge, ikaba ivura zimwe mu ndwara harimo amavunane, indwara z'uruhu, ndetse n'igifu, ikaba ikoreshwa kwa muganga havurwa abarwayi kandi bagakira.

Amashusho ane agaragaza amoko y'ibiti iza guromo igahurwa hakorwarwamo umuti wo kwifashishwa havurwa urwango ndetse kabaho umuti wizeye kandi ukaraniye.

Ubwoko bw'imiti ikozwe mu bimera by'ibyatsi, imiravumba, igikakakarubamba, ndetse no mu ngamba, ikaba yifashishwa havurwa indwara zitandukanye zirimo: indwara zo mu nda, iz'uruhu ndetse n'izindi, kugira ngo abazirwaye bakire bagire ubuzima bwiza.

Imiti y'amoko atandukanye akozwe mu byatsi nk'ibimera birimo igikakarubamba, imiravumba ndetse n'umwenya, ikaba yifashishwa havurwa indwara zimwe na zimwe harimo indwara z'uruhu, igifu ndetse n'inzoka akaba ari imiti ikora neza kandi yujuje ubuzirantenge.

Ubwoko bw'ibyatsi bwifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, bukaba busoromwa bugakorwamo umuti uzwi nk'uwa gakondo kandi uvura, ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa indwara.

Ry'ibiti n'ibyatsi byifashishwa mu kuvura indwara zimwe na zimwe za kinyarwanda, ni byiza rero kubungabunga iri shyamba kuko ridufitiye akamaro kanini cyane mu buzima bwacu.

Imiti itandukanye iri mu macupa atandukanyemenshi hari asa icyatsi hari asa umukara hari asa umweru, iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zimwe na zimwe za kinyarwanda kugira ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Amoko y'imiti ikozwe mu bwoko bw'ibyatsi biri mubwoko bw'igikakarubamba, bikaba ari byumye kandi bivura neza, bikaba bitunganywamo umuti ukoreshwa yaba ari mu buvuzi bw'amenyo, munda, ndetse n'izindi ndwara.

Umubyeyi ari gusoroma imiti y'ibyatsi aza kwifashisha mu kuvura indwara za kinyarwanda. Ni byiza kubungabunga imiti y'ibyatsi kuko ni ingirakamaro kubuzima bwacu idufasha kuvura indwara zimwe na zimwe mu mubiri.

Amoko y'imiti itandukanye ikoreshwa kwa muganga havurwa indwara zimwe na zimwe zitandukanye, yaba ari indwara z'uruhu, indwara zo mu nda, ndetse n'igifu akaba ari imiti yujuje ubuziranenge kandi ikora neza, ikaba ikoreshwa kwa muganga havurwa zimwe muri izo ndwara.

Amoko y'imiti itandukanye, akozwe mu byatsi bizwi nk'igikakarubamba, akaba ari imiti yifashishwa havurwa indwara zimwe na zimwe zitandukanye, yaba ari indwara z'uruhu, ndwara zo mu nda, ndetse n'izindi, aba ari imiti yizewe kandi ikora neza, ikoreshwa kwa muganga havurwa zimwe muri izo ndwara.

Ubwoko bw'ibyatsi byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, bikaba bisoromwa bigukorwarwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo ukora neza kandi ukavura, ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa indwara zimwe na zimwe zitandukanye, zaba indwara z'uruhu, indwara z'igifu, indwara zo munda, ndetse n'izindi kugira ngo yitabweho neza.

Ubwoko bw'imiti itandukanye hakaba harimo n'amavuta yakozwe mu moko menshi, bikaba byifashishwa havurwa inndwara zitandukanye ndetse akaba ari meza ku mubiri.

Amoko y'imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, aho asoromwa agakorwamo imiti izwi nka gakondo yifashishwa kwa muganga havurwa abarwayi ndetse bagakira.

Amoko y'imiti y'ibyatsi itandukanye, yifashishwa kwa muganga havurwa indwara, irasoroywa igakorwamo imiti izwi nka gakondo, ukora neza kandi ikavura ika yifashafashishwa kwa muganga havurwa abarwayi.

Imiti y'amoko atandukanye harimo indimu, tangawizi igiye gukorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo wifashishwa kwa muganga havurwa abarwayi.

Uru ni uruboho rwifashishwa mu kuvura indwara zimwe na zimwe z'umubiri, nk'ibicurane inkorora ndetse n'ibindi, ni byiza rero kurubungabunga kuko rufite akamaro mu gukiza indwara.

Ubwoko bw'ibyatsi bwifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, bukaba busoromwa, bugakorwamo umuti uzwi nka gakondo kandi ukavura, ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa indwara zitandukanye.

Amoko y'ibimera by'ibyatsi bitandukanye, birimo imbuto, ibyatsi bisanzwe, imiravumba ndetse n'igikakarubamba, byose bikaba byifashishwa havurwa indwara zitandukanye. Arasoromwa agakorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo, wifashishwa kwa muganga havurwa indwara zimwe na zimwe z'umubiri.

Isabune ikozwe muri avoka ndetse n'igikakarubamba, ikaba ari isabune igira umubiri mwiza ndetse ikarinda n'indwara zimwe na zimwe z'uruhu harimo gukiza ibiheri bityo umuntu agakomeza kugira ubuzima bwiza. Ni isabune iba yizewe kandi yujuje ubuziranenge.

Ubwoko bw'ikimera k'ibyatsi kifashishwa hakorwamo umuti ukoreshwa kwa muganga havurwa indwara zimwe na zimwe zirimo indwara z'uruhu, iz'igifu, ndetse n'amavunane. Ukaba usoromwa ugakorwamo umuti wizewe ukoreshwa kwa muganga havurwa abarwayi.

Ubwoko bw'ibyatsi byinshi bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, aho busoromwa bugakorwamo umuti uzwi nka gakondo kandi ukavura, ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa indwara

Amoko y'imiti ikoze mu byatsi bizwi nk'ibikakarubamba, akaba ari ibyasi byiza kandi bivura neza bikaba bitunganywamo umuti ukoreshwa yaba ari mu buvuzi bw'amenyo mu nganda ndetse n'izindi, hakaba harimo amavuta akozwe mu mbuto gakondo, bikaba byose byifashishwa mu buvuzi bw'indwara ndetse akaba ari meza ku mubiri.

Umubyeyi ari gusoroma umuti w'ibyatsi kugira ngo aze kuwukoramo umuti umuvura indwara ndetse akaba ari umuti wizewe unavura neza.

Iki ni ikimera cyifashishwa mu kuvura indwara zimwe na zimwe zataka umubiri, ni byiza rero kukibungabunga twirinda kugitema kuko gifite akamaro kanini mu kuvura indwara zitandukanye.

Amoko y'ibyatsi atandukanye yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, akaba asoromwa hakorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo, ukora neza kandi ukavura. Ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa indwara.

Ubwoko bw'imiti itandukanye ndetse harimo n'amavuta akozwe mu mbuto gakondo, akaba byose byifashishwa mu buvuzi bw'indwara, ndetse akaba ari meza ku mubiri.

Amoko y'imiti itandukanye ikozwe mu bimera by'ibyatsi birimo igikakarubamba, imiravumba ndetse n'iyindi, ikaba yifashishwa havurwa indwara zitandukanye.

Amoko y'imiti itandukanye akozwe mu gikakarubamba ndetse harimo n'amavuta akozwe mu mbuto gakondo, akaba byose byifashishwa mu buvuzi bw'indwara, ndetse akaba ari meza ku mubiri.

Ubwoko bw'ibyatsi bwifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye bukaba busoromwa bugakorwamo umuti uzwi nka gakondo umuti wizewe kandi ukora neza, ukaba ukoreshwa kwa muganga havugwa uwo murwayi.

Ubwoko bw'ibyatsi bwifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, bukaba busoromwa bugakorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo kandi ukavura, ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa indwara, ukaba ari umuti wizewe kandi uvura neza.

Imiti gakondo itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zimwe na zimwe z'umubiri kugira ngo abantu bakomeze kugira ubuzima bwiza, ni byiza rero ko tugomba kubaha imiti gakondo kuko ifite akamaro kanini mu buzima bw'umuntu.

Ubwoko bw'imiti ikozwe mu byatsi nk'ibimera, imiravumba, igikakarubamba, ndetse n'umungamba, kugira ngo ikoreshwe kwa muganga, havurwa abarwayi barwaye indwara zirimo, indwara z'uruhu, igifu, ndetse no mu nda, akaba ari imiti yizewe kandi ikora neza.

Ubwoko bw'umuti ukozwe mu bimera nk'ibyatsi, igikakarubamba, imiravumba, ndetse n'ibindi, bikaba byifashishwa havurwa indwara zimwe na zimwe harimo indwara zo munda, indwara z'uruhu, ndetse n'izindi. Bakabikora neza bigakoreshwa kwa muganga, havurwa abarwayi kandi bose bagakira neza.

Amoko y'imiti ikozwe mu buki, akaba ari imiti ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba indwara zo mu nda n'indwara z'uruhu, akaba ari imiti ikoreshwa kwa muganga irizewe kandi yujuje ubuziranenge, itunganywa mu buki ndetse bakongeramo n'iyindi miti kugira ngo bakore umuti mwiza kandi muzima.

Imiti ikozwe mu byatsi bizwi nk'igitakarubamba, bikaba ari ibyatsi byiza kandi bivura neza, bikaba bituganywamo umuti ukoreshwa ari mu buvuzi bw'amenyo, mu nda, ndetse n'izindi. Haba harimo n'amavuta nayo akozwe mu mbuto ndetse n'igikabamba ,akaba yose akoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, ndetse akaba ari meza ku mubiri.

Ubwoko bw'ibyatsi bwifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, bukaba busoromwa bugakorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo ukora neza kandi ukavura. Ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa indwara.

Amavuta akozwe mu byatsi bizwi nk'igikakarubamba, akaba ari amavuta akoreshwa havurwa indwara ndetse bakanayasiga ku mubiri kugira ngo umubiri use neza.

Umuti ukozwe mu byatsi nk'ibimera, birimo igikakarubamba, imiravumba ndetse n'ibindi, bikaba byifashishwa kwa muganga havurwa indwara zitandukanye, zirimo indwara z'umugongo, mu nda ndetse n'indwara z'uruhu, ikaba ari imiti yizewe kandi ikora neza.

Ubwoko bw'ibimera by'ibyatsi byifashishwa havurwa indwara zimwe na zimwe zitandukanye. Ikaba ari imiti yizewe kandi ikora neza, ifite ubuzirangenge. Uwayifashe kwa muganga havurwa indwara zitandukanye, zirimo indwara z'uruhu, ingufu, indwara zo mu nda, kugira ngo abafite ibibazo bitabweho kandi bakire.

Ubwoko bw'amavuta akozwe mu mbuto gakondo, bikaba byose byifashishwa mu buvuzi bw'indwara, ndetse akaba ari meza ku mubiri.

Umuti ukozwe mu bwoko bw'ibyatsi bizwi nk'igikakarubamba, akaba ari ibyatsi byiza kandi bivura neza, bikaba bitunganywamo umuti ukoreshwa yaba ari mu buvuzi bw'amenyo, mu nda, ndetse n'izindi ndwara.

Amoko y'ibimera by'ibyatsi, akaba agiye guhuzwa kugira ngo hakurwemo umuti wifashishwa kwa muganga havurwa indwara zimwe na zimwe zitandukanye, ndetse uwo muti ukaba wizewe wujuje ubuziranenge, ukaza gukoreshwa kwa muganga havurwa abarwayi bafite zimwe muri izo ndwara harimo indwara z'uruhu ndetse n'indwara zo mu nda.

Ubwoko bw'ibyatsi bifashisha mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, bukaba busoromwa bugakurwamo umuti gakondo uzwi kandi ukavura. Ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa indwara.

Ibihingwa by'ibyatsi bihinze mu murima byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, bikaba bisoromwa bigakorwamo umuti uzwi nka gakondo, uvura neza kandi ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa abarwayi.

Ubwoko bw'umuti ukozwe mu byatsi, ukaba ari umuti wifashishwa kwa muganga havurwa abarwayi, ndetse akaba ari umuti wizewe wujuje ubuziranenge. Ufasha havurwa abarwayi bafite indwara zitandukanye, ndetse bakavurwa neza maze bagakira.

Amoko y'ibimera by'ibyatsi byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, aho busoromwa bugakorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo wifashishwa havurwa indwara zimwe na zimwe harimo indwara z'uruhu, indwara zo mu nda ndetse n'izindi. Akaba ari umuti wizewe kandi ugakoreshwa kwa muganga havurwa abarwayi.

Umuti ukozwe mu bimera by'ibyatsi, ukaba ari umuti w'ujuje ubuziranenge kandi ukora neza, ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa abarwayi.

Umuntu arimo arasoroma ibyatsi aho aza kubiyobora abikoremo umuti uza kumufasha mukuvura indwara zimwe na zimwe z'umubiri.

Ubwoko bw'ibyatsi bwifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, bukaba busarurwa bugakorerwamo umuti ukozemo umuti gakondo, ukora neza kandi ukavura, ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa indwara zimwe na zimwe zirimo indwara zo m unda, indwara z'uruhu ndetse n'izindi.

Igihingwa cy'ibyatsi gihinze mu murima kimeze neza cyifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye y'aba ari ukuvura inzoka ndetse n'indwara z'uruhu kikaba gisoroka kigakorwamo umuti uzwi nka gakondo, uvura kandi wujuje ubuziranenge, ugakoreshwa kwa muganga havurwa abarwayi.